Umwana uri gukaraba intoki akarabira mu ibasi y'umuhondo ndetse yambaye impuzankano isa n'umutuku wijimye n'agashati kagizwe n'uturongo tw'umutuku n'umweru.

Umugabo uri hagati y'abantu batandukanye bamuzengurutse ari gutanga imbwirwaruhame akaba yambaye imyenda y'abaganga harimo itaburiya isa n'umweru, ari guha inama z'ubuzima abantu bagiye batandukanye mu cyumba bahuriyemo.

Abana bahagaze ku ivomo aho umwe ari gupompa akurura, amazi ayakura hasi kuko iri vomo rikura amazi mu butaka, undi yateze ari kuvoma amazi. Hirya yabo hari igisambu kirimo ibiti ndetse n'ibimera bisa n'icyatsi kibisi.

Umwana wambaye umupira wa oranje n'ipantaro y'ubururu, ahagaze ku munzani, afashwe n'umusore wambaye umupira wa oranje n'ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara, inyuma yabo hari abandi bantu batatu.

Umukobwa wunamye ari ku ivomo gakondo ryo mu cyaro bakoresha bafata amazi yo mu masoko, aho hariho ikivovo cyavuye ku nsina ndetse iruhande rw'uwo mukobwa hicaye umwana muto uri kureba uko uwo mukobwa avoma.

Umuganga w'umusore uri kuvura abantu, akaba yambaye udupfukantoki dufite ibara risa n'umweru ndetse hirya ye imbere gato hari ibikarito bito cyane, birimo ibikoresho yifashisha ari gutanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu.

Umukobwa uri ku ivomo yunamye ateruye icyo avomeramo gisa n'ibara ry'umuhondo ndetse akikijwe n'abana babiri, umwe yegamye ku ivomo undi ari kwitegereza ibyo ari gukora, inyuma yabo hari ibimera bitandukanye bisa n'icyatsi kibisi.

Abagore babiri bari ku ivomo, aho bateguye amajerekani menshi yo kuvomeramo amazi, umwe muri bo ari kuvoma, undi aragaze, hari n'umwana uri inyuma ku ivomo uri kureba uko bavoma. Inyuma y'iryo vomo hari insina n'ibindi bimera.

Abagore batanu bicaye ahantu, inyuma y'abagore babiri hari igitambaro gisa n'ubururu, inyuma y'abagore babiri bandi hari urukuta rusa na Orange, umwe muri bo yambaye ikanzu isa n'iroza, ukuboko kwe yagushyize ku meza basa nk'aho bari kuganira bahurije ku kintu kimwe.

Umuntu waje ku ivomo, atega ibiganza amazi aka atagwa muri ibyo biganza, amazi meza bigaragara ko uyu mukobwa ari gukaraba intoki.

Umugabo wishimye uhagaze ku ivomo ndetse yafashe ijerekani ye avomeramo, akaba yarishimiye igikorwa cyashyizwe hano ahantu cy'iri vomo. Inyuma y'ivomo hari ibyatsi biteye bizengurutse izi nzu zihari.

Umuganga uri gusuzuma abarwayi aho bicaye ku ntebe imwe ari abagore batatu ndetse n'umuganga afite ibikoresho byabugenewe by'abaganga bisuzuma abarwayi, umwe muri bo ari kuvurwa na muganga abandi babiri barategereje inyuma yabo hari ubusitani buteyemo ibihingwa by'icyatsi.

Umwana muto uri imbere y'ivomo akaba ari gufata amazi avuye ku ivoma akayafatisha ibiganza bye akayoga mu maso ubona ko yasetse yishimye.

Umusaza uhagaze ku ivomo, afite ibinezaneza, ndetse afite ijerekani mu ntoki, yafasheho n'amaboko ye yombi. Inyuma ye hari indabo zisa'icyatsi kibisi.

Umwana uri ku ivomo, yatezeho akajerekani gato ndetse inyuma hari umwana wundi mugenzi we urimo aravoma, agenda apomba kugira ngo amazi abone uko aza.

Abantu batandukanye, bahuriye ku ivomo rusange, bitwaje ibikoresho byifashishwa mu kuvoma amazi, harimo amajerekani ndetse n'amabase, bakaba bagiye bategereje, kugira ngo ibyahageze mbere byuzure, n'uwaje akurikiyeho avome, nk'uko bikwiye.

Abagore bari ku ivomo, aho babiri bari kugenda bakanda igikoresho kizana amazi, undi akajya adaha amazi ayasuka mu bindi bigunguru biri iruhande rwe, ari gukoresha indobo mu kudaha ayo mazi.

Abantu bahuriye ku ivomo, baje kuvoma amazi bitwaje ibikoresho birimo indobo, ijerekani nini ndetse n'utujerekani dutoya, inyuma yabo, y'iryo vomo hari ibiti, iri vomo riri ahantu hateye ibiti.

Abaganga b'abagore batatu bicaye bari kwandika amakuru ajyanye n'ubuzima mu gitabo kinini. Babiri muri bo bari ku meza amwe bari kwandika amakuru bari gusoma mu dukayi dutoya dufite ibara ry'icyatsi, kibisi undi yicaye hirya ari kubareba.

Abana bahagaze ku ivomo bari gukaraba intoki zabo, aho bari gukoresha amazi meza n'isabune kuko ku ntoki zabo hariho urufuro rw'isabune.

Urujya n'uruza rw'abagore biganjemo abakenyeye ibitenge, bahagaze, bakaba bahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ndetse isakaje amategura.

Abana bagiye ku ivomo aho bari kuvoma amazi, ndetse bakaba bazengurutswe n'abantu benshi biganjemo abana baje kuri iryo vomo, hirya yabo hari ibimera by'icyatsi kibisi birimo ibiti n'ibyatsi bitandukanye.

Umwana muto w'umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu n'umupira w'umweru ari kuri robine ari gufata amazi, imbere ye hariho igikoresho bashyiramo imyanda gisa n'icyatsi kibisi.

Abantu bateranye bicaye ku ntebe z'ibiti, bazengurutse bakoze akantu k'uruziga, bari kuganira ku bintu runaka, hirya yabo hari imodoka, inyuma yabo hari inyubako isize irangi ry'ubururu n'icyapa hejuru cyanditseho girara ubuzima.

Umwana uri kunywa amazi ku ivomo aho yunamye munsi yaryo akaba ari kuyanywa, inyuma ye hari n'abandi bantu bategereje gukoresha iryo vomo hirya ye hari intebe y'ubururu.

Abana batatu bunamye, bari kuvoma ahantu mu kidendezi cy'amazi cy'ikiyaga ndetse inyuma yabo hari imisozi migufi cyane itandukanye.

Umusore wambaye ishati isa n'icyatsi kibisi, ndetse n'ikabutura ngufi, ari ku ivomo aho ari gukaraba intoki, iri vomo rikaba rifite aho rivomera habiri, haba imbere n'inyuma, iruhande rwe hateretse ikidobo gisa n'ubururu, ndetse irivomo riteye hagati y'ahantu hateye ibimera bisa n'ibiti by'icyatsi kibisi.

Umwana wunamye ari koza indobo ziri ku ivomo, afite indobo eshatu, inyuma ye hari ibiti bitandukanye bifite amababi asa n'icyatsi kibisi.

Abantu bari guhamiriza bishimye b'abagore, aho bari mu cyumba bari bicayemo bahabwa inama z'ubuzima, harimo intebe z'umweru, intebe z'imbaho ndetse n'ameza. Hakaba hasizemo irangi ry'umuhondo muri iki cyumba.

Abajyanama b'ubuzima, bicaye bafite ibitabo mu ntoki zabo ndetse n'undi uhagaze, wambaye umupira w'umutuku n'ingofero y'umweru, uri kureba umwana uteruwe n'umubyeyi we, bakaba babasanze mu rugo aho bari kubaha inama z'ubuzima ndetse bakabavura.

Abana bato bari ku ivomo, bakaba bari kuvomerwa n'umwana ubarutaho gato mukuru, aho aba abana batezeho utujerekani duto twabo bazanye kuvoma, ndetse iri vomo hari imodoka iri kuriganaho y'umweru, iri guturuka ahantu hateye ibimera bisa n'ibara cyatsi kibisi. Ndetse iri vomo riri ahantu mu gisambo.

Umwana muto w'umukobwa wambaye agakanzu k'amaboko magufi ndetse afite icupa rye mu ntoki aho ari gukora ku nzu yubakishije amatafari ahiye ndetse ari gukora aho bateye sima hasa n'umukara. Iruhande rwe urukuta cyangwa igipangu cy'iyo nzu cyubakishije amatafari y'inkarakara.

Abantu bicaye buri wese imbere y'ameza bambaye udupfukamunwa harimo abambaye imipira y'icyatsi kibisi ndetse n'abambaye imyenda yo hejuru isa n'umweru, buri wese akaba afite amazi amuteretse imbere.

Umwana muto, uri guterwa urushinge ku kuboko, n'umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare y'umweru. Umwana afite amasaro ku mutwe, ari mu ibara ry'icyatsi, n'umuhondo, n'umutuku.

Abana bambaye impuzankano b'abakobwa zisa, zikaba zifite ibara risa n'ubururu ndetse hirya yabo hari abandi bambaye impuzankano ya kaki. Bose bicaye ku ntebe bigiraho bari gufata ifunguro ryabo ku ishuri. Inyuma yaho hari ikibaho bandikaho bari kwiga.

Umugore uteruye umwana, akaba afite urupapuro rusa n'umweru mu ntoki ze ndetse inyuma ye hari abandi bagore batandukanye bagiye bateruye abana bato muri iyo nyubako.

Abantu bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'iy'umukara hejuru, harimo n'uwambaye ikote ry'icyatsi, bafite icyapa kinini ndetse bakaba bari mu bikorwa bya Yunisefu.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri bagiye ku ivomo, aho bari kuvomera ku mavomo atatu bifashishije indobo zisa n'ibara ry'umuhondo, inyuma yabo hateye ibiti by'imikindo.

Abanyapolitike bicaye mu nteko, aho bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza azengurutse, bazengurutse mu buryo bw'uruziga, hateretseho amacupa arimo amazi ndetse bayobowe n'umuntu umwe uri ahitaruye, aho yegeranye n'Ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Umwana wicaye ku ivomo, ari gufata amazi ye mu biganza bye byombi, yamwenyuye ari guseka kandi arasutaraye, imbere ye hari amajerekani ahateretse avomerwamo amazi.

Umugabo uhagaze hagati mu bantu batandukanye ari kubabwira, harimo abagore bateruye abana bateze ibitambaro ndetse bari mu nzu ifite urugi rw'ubururu, isizemo irangi ry'umuhondo.

Umugore wambaye agapfukamunwa n'umupira w'amaboko magufi usa n'ubururu ukenyeye igitenge, ari gukarabya intoki umwana muto w'umuhungu wambaye agashati k'umuhondo ndetse inyuma yabo hari ibihingwa bisa n'icyatsi kibisi.

Umwana uri ku ivomo ari kuvoma afite akanyamuneza, aho ari kuvoma ijerekani imwe y'umuhondo iteretse kuri robine, ndetse hakaba hari n'andi majerekani ategereje kuvomwa n'uyu mwana. Inyuma y'irivomo hari insina ndetse n'ibyatsi by'inka.

Umugore wifashe mu mayunguyungu, wambaye ishati y'igitenge hejuru ndetse n'ijipo y'ubururu. Inyuma ye hahagaze abandi bagore bazengurutse ameza bayafasheho. Inzu barimo irimo ibishushanyo birimo inzu, umwana n'igiti n'ibindi bitandukanye.

Umwana ufite igikombe gikoze mu cyuma, ari ku ivomo avoma amazi, aravomera muri icyo gikombe, ivomo rihora rimena amazi kuko ku ruhande rw'iburyo amazi ari kumeneka ubudafungwa. Ndetse hirya yaho hateye ibyatsi by'amoko atandukanye.

Abantu batandukanye, bicaye mu cyumba, bari kuganira, ndetse imbere yabo, buri muntu hateretse icupa ry'amazi ari bunywe muri iyo nama.

Abantu babiri bari ku ivomo riri mu ishyamba, bari kuvoma amazi kuri iryo vomo bakoresheje amajerekani ndetse iryo vomo ryubatse mu ishyamba rizengurutswe n'ibiti birebire biherereye muri iryo shyamba.

Umukobwa wicaye asutaraye ari ku ivomo aho yateretse ijerekani ye mu mabase abiri agerekeranyije, akaba ari kuvoma. Inyuma ye hanitse imyenda ku mugozi y'amoko atandukanye.

Umwana muto w'umukobwa uri gukaraba amazi ayakura mu ndobo isa n'icyatsi kibisi akarabira mu ibasi isa n'icyatsi, ahagaraye imbere y'inyubako y'amatafari ahiye hasi harambitse amatafari babumbye.

Umusaza wambaye ingofero y'abayisilamu, uri guhabwa inama n'umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'igikoresho gipfuka isura yose, harimo nk'amaso, inyuma yabo hari ururabo rw'inganzamarumbo, rurerure.

Umugore uri gutanga imbwirwaruhame, n'umuganga wambaye imyenda y'abaganga, aho ari kubaha inama abitabiriye iki gikorwa, uyu mugore afite indangururamajwi mu ntoki ze, ndetse abamukurikiye bicaye mu mahema, azengurukijwe ibendera ry'Igihugu, rifite ibara ry'ubururu, n'umuhondo, n'icyatsi.

Umugore uri koza umwana, iruhande rw'ivomo risize irangi ry'ubururu rifite aho bavomera habiri haba ku uruhande rw'iburyo ni rw'ibumoso bakaba hahagaze n'undi mugore uri kumwe n'umwana afite indabo mu ntoki ze, ku ivomo ry'iburyo hahagaze umwana uri kuvomera mu ndobo uri wenyine.

Abaganga bambaye amashati asa n'umweru, ndetse n'amakarita y'akazi, bishimiye umuzungu ubahagaze imbere wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'indorerwamo, aho bari kubagezaho ikiganiro, bamweretse urugwiro, bamwishimiye, bari kumuha amashyi.

Abantu benshi bahuriye ku ivomo, umwe muri bo ari kuvomera amazi mu gikoresho bavomeramo gifite ibara ry'umuhondo cyitwa ijerekani. Hirya yayo hateretse akajerekani gatoya na ko kari bushyirwemo amazi.

Umuganga wambaye agapfukamunwa n'imyenda yo hejuru isa n'umweru, akaba afite igitabo hejuru y'amatako ye aho yambaye ipantaro isa n'ubururu iciyemo uturongo tw'umweru tumanutse, ari kumwe n'umusore yandika amakuru ye ajyanye n'ubuzima, inyuma handitse hari icyapa cyanditseho SIDA iracyari duhaguruke tuyirwaye.

Aho bakingiriza abana, umugore uteruye umwana muto w'uruhinja, iruhande rwe hari umukobwa wunamye, uri gufata ku gacupa ndetse hino hari umukobwa wicaye ku ntebe isa n'umweru, afite igitabo mu ntoki ze.

Abantu benshi bicaye ahantu mu nyubako, aho bakurikiye igikorwa runaka bafite uwo bakurikiye, bambaye amakarita mu majosi yabo ndetse hagati y'uyu mugabo n'umugore, harimo ameza ariho amacupa abiri y'amazi.

Abana bari ku ivomo bari kuvoma ariko amazi akaba ari kumeneka hasi atari kujya mu ivomo, iruhande rwabo hari umwana ufite inkoni mu ntoki, yambaye inkweto zizwi nka bote ndetse inyuma yabo hari igisambu kirimo ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umuganga urigukingira umwana muto uteruwe na mama we mu ntoki ze. Aho uyu muganga yambaye imyenda y'akazi itaburiya isa n'ibara ry'umweru ndetse n'udupfukantoki. Bakaba bari mu cyumba gitangirwamo iyo serivisi.

Ababyeyi bicaye bafite abana mu ntoki aho babateruye, bakaba baje guhabwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi, bamwe muri bo bari konsa abandi bateruye abana gusa mu bijura babateruramo.

Abantu benshi batandukanye, barikumwe ahantu hatangirwa inama z'ubuzima, bamwe bicaye hasi, abandi bahagaze inyuma yabo ndetse higanjemo abambaye amataburiya asa n'ibara ry'umweru.

Ahantu hahuriye urujya n'uruza rw'abantu batandukanye, aho bahagaze baje mu gikorwa runaka, hirya y'abo hubatse amahema maremare y'umweru, hari n'ibendera ry'igihugu riri ku cyuma gisa n'ubururu.

Umwana wambaye ishati y'ubururu, yazamuye agatanga akaboko ke k'ibumoso ari guterwa urukingo na muganga urufite mu ntoki ze, akaba yambaye udupfukantoki ndetse n'umwenda ukoreshwa mu kazi ke usa n'ibara ry'umweru, hirya yabo hicaye abandi bana bategereje kuvurwa.

Umuganga ahagararanye n'undi muforomokazi, bari kuvura umwana muto uryamye, ndetse hirya yabo, yicaye umumama ari kureba uko umwana avurwa.

Umuganga uri kwita ku mwana muto uteruwe n'umubyeyi we, aho bicaye bombi ku ntebe, iruhande rwabo hari ameza ateretseho agapapuro kariho ikirango cyo kurwanya SIDA.

Abana bato cyane bafashe ku itiyo itwara amazi, ndetse bakaba bishimye, iyo tiyo inyura iruhande rw'uruzitiro rw'urupangu rurerure, ndetse hakaba hari n'ibiti birebire iruhande rw'iyo tiyo.

Umugore wikoreye ijerekani ku mutwe, undi muntu ufite urujerekani ku rutugu, ndetse n'umwana muto uri kubareba, wambaye ishati y'ubururu, bari imbere y'inyubako ifite amabati asa n'umutuku.

Abantu bahagaze bakoze imirongo ibiri bamwe imbere abandi inyuma, aho bahagaze bifashe neza bari mu cyumba kirimo icyapa cy'ubururu ndetse cyanditseho cy'amagambo y'umweru, hejuru yacyo hari ibara ry'umweru kikaba cyometse ku rukuta rusize irangi ry'umuhondo.

Umuganga wambaye itaburiya isa n'umweru n'udupfukantoki dusa n'umweru, ari kuvura umu mama ukuze, iruhande rwe hari umugabo wambaye ingofero k'umweru n'ikote ry'umukara, ku meza hateretse imiti itandukanye yifashishwa mu buvuzi, hirya hari umugabo wifashe mu mifuka.

Umuntu uri gukingirwa ku rutugu na muganga wambaye udupfukantoki ndetse n'umwenda w'amaboko maremare w'umukara.

Abana babiri b'abakobwa bateruye indobo isa n'icyatsi kibisi bari ku ivomo, hirya yabo hari ibiti biteye bisa n'icyatsi kibisi.

Umwana uri kuvoma amazi ayashyira mu gakombe akaba ahagaze imbere y'ikigega gisa n'ibara ry'umukara ndetse inyuma ye hari inyubako igizwe n'amatafari manini.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye birimo ibitanda bifite amabara asa n'ubururu bwijimye ndetse ku nkuta hasize irange ry'umuhondo riciyemo imirongo y'ubururu ndetse n'umutuku.

Abantu biganjemo abagore n'abana, bicaye ahantu bari guhabwa amabwiriza n'umugabo wambaye ikoti n'ipantaro by'umukara n'ishati y'umweru mo imbere, akaba afite mu ntoki ze telefone n'akifashishwa mu kwandika ndetse n'impapuro.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako, bambaye udupfukamunwa, ndetse bambaye n'amataburiya, afite amabara atandukanye. Harimo abagabo batambaye n'amataburiya, bambaye amakote, amashati, ndetse nyuma yabo, hari ibyapa byamamaza ibikorwa bitandukanye.

Ibikoresho byifashisha mu buryo bwo gutabara ahantu hatatswe n'inkongi y'umuriro, bifite ibara risa n'ubururu ndetse hejuru yatwo ku mutwe hasa n'umukara no ku ndiba hari amabara y'umukara.

Abaganga bari gusobanurira abantu ibyerekeranye n'imiti ndetse barambitse ibikoresho bari gukoresha ku meza aho bari kubabwira uko bigenda bikora harimo umuzungu ndetse n'abandi birarabura.

Umugabo wunamye ari gukaraba intoki, akaba ari gukoresha igikoresho cyitwa kandagira ukarabe, aho umuntu akandagira amazi akaza, hanyuma agakaraba intoki, hirya ye hari indabo zisa n'umutuku ndetse n'izisa n'icyatsi kibisi.

Umuganga uri gutera urukingo umwana muto ku kaboko ke, umwana akaba afashwe na mama we ndetse nyuma yaho hari n'undi muganga uri ku meza, ufite mfite ikaramu yandika mu mpapuro afite ku meza.

Agatanda gaterekwaho amasahani amaze kozwa neza, kugira ngo yumuke kandi akomeze gusa neza atari mu bintu bijagaraye, aka gatanda kakaba kari ahantu mu gikari aho hari insina, ndetse n'urugo ruzitiye iyo nzu.

Umuforomokazi wambaye imyenda yabugenewe, irimo imyenda isa n'ubururu bumukwije hose, agapfukamunwa ndetse n'ingofero ku mutwe we, ari kwita ku murwayi aho ari kumufata ibipimo akoresheje ibikoresho byabugenewe, yamuziritse ku kuboko, inyuma ye hari undi muforomokazi bakorana muri icyo cyumba.

Umugangada uri gutera urushinge umugore, akaba ari kumusuzuma cyangwa se amutera urukingo ku rutugu rwe rw'ibumoso. Uyu muganga yambaye agapfukama gasa n'ubururu, ndetse n'inyuma ye hari umugabo uri kwitegereza ko muganga atera urushinge yambaye agapfukamuwa k'ubururu, naho uyu mugore yambaye agapfukamunwa k'umweru yicaye ku ntebe.

Umugabo ufite impapuro mu ntoki ze, ari gusuhuzanya na mugenzi we, ari kumushimira nyuma yo gutanga ijambo ku bari bamukurikiye aho yari yateranye.

Ikigo gitangirwaho serivisi z'ubuzima, kirimo inyubako ngari cyane kigiye kirimo ubusitani buteyemo ibyatsi hagati na hagati yabyo.

Imbangukiragutabara iparitse ahantu hari amahema hateraniye abantu benshi b'amoko atandukanye, hari n'abashinzwe umutekano bambaye impuzankano isa n'icyatsi.

Umwana uri gufungura amazi aba yateretswe ahantu mu buryo bwo kugira ngo abahanyura bakarabe intoki, umwana yambaye ishati y'ubururu bukeye ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abana babiri bari ku ivomo baje kuvoma amazi, umwe akaboko ke kari gufungura ivomo avomera mu ndobo zisa n'ibara ry'umweru, undi ategereje yuko mugenzi we arangiza kuvoma.

Umusore uri guterura umwana amwaka mama we wari umuteruye, aho abamama bahuriye ari benshi batandukanye bafite abana bato, bakaba baje muri serivisi zo guha zijyanye n'ubuzima zo kwita ku bana babo.

Abagore babiri imbere yabo hateretse amazi, ndetse bicaye hagati y'abagabo babiri, ku meza magari, afite igitambaro cy'umukara. Inyuma yabo hari ibitambaro bimanuye by'ubururu, bukeye.

Abana babiri bicaye imbere y'ameza ndetse umwe yamanitse urutoki hejuru, asa n'urikwaka ijambo abamuhagaze imbere batagaragara, inyuma yabo hari igikuta cy'amatafari cyometseho ikibaho bigiraho.

Inyubako zitaruye zubatse ahantu zisize amarangi make yo kuryoshya inyubako igatuma igaragara neza y'ubururu ndetse n'inzugi zisize amarangi y'ubururu. Izi nyubako zubakishije amatafari ndetse zifite n'uruzitiro imbere y'inyubako imwe muri zo hahagaze umuntu.

Umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ze, ari kumwe n'abandi bantu bicaye, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'icupa ry'amazi, hirya yabo hari n'abandi imbere yabo hateretse icupa rivamo fanta.

Umuntu uhagaze iruhande rw'umuhanda wambaye ibicocero by'ibigunira ndetse akaba afite umusatsi ujagaraye, n'ibintu by'ibishishwa by'imineke mu ntoki ze agaragara nk'umusazi ndetse ku ruhande rwe hari ibiti bihakikije by'ibara ry'icyatsi.

Umugore uteruye umwana mu biganza bye akaba ari kumwe n'undi mugore uri kumwereka ibipimo by'ubushyuhe byafashwe.

Umusaza ufite ibihanga mu menyo ye, akaba yambaye umwenda w'ubururu ndetse n'umushanana w'umuhondo. Afite imisatsi myinshi y'umukara ku mutwe we.

Umusore ugaragara yishimye ari guseka w'umwirabura, yambaye umupira w'umuhondo, kandi afite ubwanwa bukeya imbere ku kananwa ndetse n'umusatsi uringaniye impande zose.

Umuntu uhagaze mu muhanda ahetse ibintu ku ntugu ze ndetse yambaye imyenda itari myiza no mu maso y'isize ibintu by'umukara bimeze nk'iby'abasazi, hirya ye hari imodoka ifite ikizuru gisa n'icyatsi ndetse naho ipakirira hasa n'umukara.

Abantu bicaye bari guhabwa serivise z'ubuzima bakaba bicaye mu matsinda, hirya yabo hari abandi bicaye bari gutegereza ko umuntu umwe uri kwitabwaho n'umuganga ari kuvaho na bo bakaba bagenda bakurikirana.

Umugore uteruye umwana wambaye akenda k'umweru karimo uturongo dukeya tunini dusa n'ibara ryikigina, umugore akaba yambaye umwenda wo hejuru w'umweru ndetse ari iruhande rw'inyubako y'amatafari ahiye anyujijwemo sima hagati yayo.

Ishusho y'umutwe w'umuntu ushushanyije, yerekana uburyo mu mitekerereze y'umuntu mbese mu bwonko hakora, ndetse n'uburyo byifashishwa mu kuvura abantu bagize ibibazo mu bwonko bitandukanye.

Abagabo ndetse n'abagore, bahagararanye n'umuntu, ushinzwe umutekano, bari kuganirizwa ibijyanye, n'imitekerereze.

Umuntu wambaye ingofero y'umukara ku mutwe we ifite ubwoya, yipfukishije agatambaro mu maso atishimye ari kukaririramo, ndetse inyuma ye hari abandi bantu bahateraniye.

Umugabo uri imbere y'abagore batandukanye bateze ibitambaro, wambaye agapfukamunwa, uri kwandika ku kibaho gisa n'umweru, atanga inyigisho.

Umuntu wipfutse mu mumaso n'intoki zombi wambaye umupira w'umukara, inyuma ye hari urukuta rusize irangi ry'umweru ry'ivu ndetse kuri urwo rukuta hariho ibishushanyo bitandukanye.

Abagore batatu bari kuganira bambaye udupfukamunwa, hirya yabo hari inzu nyinshi zitandukanye za nyakatsi. Ndetse inyuma yabo hari umuhanda w'ibitaka mugari.

Abagore batatu bafite inkoni mu ntoki zabo bakenyeye ibitenge, inyuma yabo hari imisozi iteyeho ibihingwa by'icyatsi ndetse hirya gato hari urutoki.

Abagore bahagaze bafite akanyamuneza bari gukoma mu mashyi, iruhande rwabo hari ameza ariho amacupa y'amazi ndetse aba bantu bose bahagaze bamwe muri bo bambaye amakarita yabo mu ijosi.

Umuntu ufite igice cyo hejuru kigaragaza imiterere ye y'ubwonko, uko ikora uko ubwonko buba busa n'imitekerereze y'ukuntu ubwonko bugaragara mu ishusho y'abantu.

Umupira w'amaboko magufi, ugizwe n'amaboko y'ubururu, inyuma mu mugongo, hafite ibara risa n'umweru, handitseho amagambo ndetse hariho n'agashushanyo kagaragaza amarange.

Abantu bicaye ku ntebe, barimo abagore bane n'umugabo umwe, wabazamuye ipantaro ye, bicaye ahantu hitaruye, inyuma yabo hari urutoki ndetse n'ibiti by'amoko atandukanye.

Ikirango cyerekana uburyo imibare yagiye izamuka mu buryo bwo kwita ku bantu mu mitekerereze serivise zitangwa mu Rwanda, bikaba bigenda bizamuka uko ibihe bigenda bitambuka bigenda byigira hejuru.

Umugabo wicaye hasi, inyuma ye hari inzego z'umutekano n'abandi bantu benshi bamushungereye, akaba yambaye amapingu mu maboko ye yombi uko ari abiri kandi bamunazeho ibipapuro biriho amafoto y'umuntu n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umugabo ufashe mugenzi we mu rutugu utabasha kwigenza, aho ari kumutwara amwongerera imbaraga, ndetse iruhande rw'iburyo hari umugore amufashe akaboko kugira ngo babashe kumugenza.

Abantu babiri bicaranye bari kuganira umwe atekerereza undi. Aho uyu wambaye imyenda y'umutuku wifashe ku itama ari gutekerereza umufashamyumvire we, wambaye imyenda y'umukara ni indorerwamo, ndetse uyu wambaye imyenda y'umukara ari kumuhumuriza kubyo bitewe n'ibyo ari kumubwira.

Umugore warakaye cyane ufite icyo yarakariye ateze agatambaro karimo ibirango bitandukanye harimo k'umuhondo uvanze n'umutuku ndetse n'icyatsi cyijimye inyuma ye hari ibara risa nkiriri ku gikuta ritagaragara neza ry'icyatsi kibisi.

Urubyiruko rutandukanye, rwambaye imipira isa, iri mu ibara ry'ubururu bukeye, ndetse abasore bamwe na bamwe bambaye ama pantaro y'umukara, bari kumwe n'umuzungu ku ruhande rw'ibumoso, ndetse n'umugabo uri hagati yabo, wambaye ishati y'umweru.

Umukobwa wicaye mu ntebe yambaye ipantaro yahinnye ndetse ari guseka, akaboko kamwe k'ibumoso yagashyize ku ivi yikora mu musatsi.

Umugore wambaye indorerwamo ndetse n'ikanzu ikoze mu gitenge ifite ubugeni, akaba afite urupapuro mu ntoki ze rwanditseho kwibuka, rushishikariza abantu igikorwa cyo kwibuka, ahagaze imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara wicishije bugufi ari kunamira abantu bapfuye, inyuma ye hari amashusho ari gucaho yanditse mu mirongo mu mu magambo y'umweru.

Umusore wambaye ubusa wicaye hasi, ahantu hari akavuyo ku rukuta hari gusa n'umweru, ariko ku rundi rukuta rwo hirya, harasa n'aho yicaye hasi.

Umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, ari kuza asanganira umugore ufite indangururamajwi mu ntoki ze, uyu mukobwa ahamagawe n'uyu mugore ufite n'isakoshi mu ntoki ndetse hari n'abandi bantu benshi bateraniye muri iyo nyubako.

Umugore wicaranye n'umugabo imbere yabo hari ameza ateretseho isakoshi, uyu mugore afite indangururamajwi mu ntoki ze, aho ari gutanga ijambo kubamukurikiye, aho bari mu gikorwa cyo kurwanya no kwirinda sida,

Umugabo ukuze ndetse n'umwana, bafite urudodo mu ntoki zabo, aho bari gukorera isuku amenyo yabo, kugirango ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, mu menyo nta myanda irimo, kuko imyanda yo mu menyo itera indwara zo mu kanwa, bombi bambaye imipira isa n'ibara ry'umweru.

Umugabo wishimye ugaragara aseka akaba afite ubuzima bwiza mu bijyanye n'amenyo, kuko arasa neza kandi urabona ko nta mwanda urimo pe, akaba yambaye umupira usa n'ubururu bwijimye.

Umuganga ufite igikoresho cy'amenyo ari kwigisha umwana uko basukura amenyo yifashishije igishushanyo umwana afite mu ntoki ze, inyuma ye hari abantu bane bari kwitegereza uko asobanurira uwo mwana ukorera isuku amenyo.

Umugabo ufite urudodo mu ntoki ze, aho yarushyize mu kanwa, mu menyo ye, akaba ari kugenda ayasukura, kugirango ngo arusheho kugira ubuzima bwiza bwo mu menyo, arishimye ari guseka, ndetse uru rudodo rufasha umuntu gukuraraho imyanda ahatagerwa n'uburoso yagiye hagati y'amenyo.

Umwana muto uri imbere y'ikintu gisa n'ubururu afite uburoso mu kanwa, ateze akantu mu mutwe gasa n'iroza kariho akarabo, yambaye agakanzu gasa n'icyatsi cyeruye harimo n'utudomo tw'umweru.

Abantu bicaye bazengurutse ameza harimo n'abahagaze, abegeranye n'imeza abiganjemo bambaye imipira isa n'icyatsi kibisi y'amaboko magufi yanditseho n'amagambo y'ibara ry'umuhondo, bafite uburoso n'umuti byoza amenyo biri gukoreshwa, ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Umuganga uri kuvura umwana amenyo akoresha ibikoresho byabugenewe mu kuvura amenyo, aho yambaye imyenda y'akazi isa n'umweru, ndetse n'udupfukantoki tw'umweru.

Abaganga bari kwita ku gikoresho bitorezaho bari kwiga uko bagomba kujya bakura amenyo bifashishije ibikoresho byabugenewe bizajya bibafasha mu gukura amenyo abantu mu buzima busanzwe.

Abagore babiri bafite impapuro mu ntoki, umwe wambaye indorerwamo ari kwandika ku rupapuro, iruhande rwabo hari ameza atwikirije igitambaro cy'ubururu ndetse ateretsemo amacupa atatu y'amazi, hirya yabo inyuma hari urukuta imbere yarwo hari ibyapa rusize irangi ry'umuhondo.

Umukobwa wishimye, ari guseka yerekana amenyo, asa neza ndetse afite n'imisatsi ye karemano, myinshi cyane.

Umuganga ufite mu ntoki ze, ibikoresho bikoreshwa mu kwita ku menyo ndetse yambaye udupfukantoki dusa n'ubururu, ari kwita ku mugabo ufite ubwanwa buringaniye n'ishati ya karokaro mu menyo ye.

Abantu benshi bicaye bishimye, bamwe muri bo bazamuye intoki, bari gufata ifoto ndetse inyuma yabo bazengurutswe n'abandi bahagaze, harimo abafite icyapa inyuma yabo bose bagiye bakoraho.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari guha umwana igikoresho kizamufasha gusobanukirwa ibijyanye n'amenyo, kuko gifite ishusho y'uko amenyo y'umuntu ateye. Inyuma yabo, hahagaze, abantu, bane, barimo, umugore w'umuzungu, ndetse bahagaze, imbere y'ikibaho abana bigiraho.

Abana benshi bato bari koza amenyo, bambaye amashati arimo uturongo dutambitse n'utumanuye tw'icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Abantu bahagaze ahari gutangirwa amahugurwa y'ikigo gishinzwe ubuzima, aho bari kugenda bahabwa ayo mahugurwa cyangwa ubuvuzi buri gutangirwa mu mahema asa n'umweru, azengurukijwe n'utubara tw'ubururu hejuru, ndetse ariho n'icyapa kinini cy'ikigo gishinzwe ubuzima mu rwanda.

Umusore wicaye ku ntebe amwenyura yifashe mu biganza yabihuje, yambaye ishati y'umweru ndetse ari ahantu hari ibikoresho bitandukanye bisanzwe bisa n'ibara ry'umweru ndetse n'umweru wijimye.

Umwana w'inzobe, azengurukijwe n'umwenda yambitswe na muganga kugira ngo amuvure mubijyanye n'amenyo usa n'icyatsi kibisi, ndetse umuganga yambaye udupfukantoki, afite n'agakoresho kifashishwa mu kuvura amenyo y'abarwayi.

Igice kigaragaza uko imiterere y'umuntu imeze mu buryo bw'amenyo, uko angana, umubare wayo ndetse n'uko areshya.

Umugabo wogoshe ubwanwa, hose yabumazeho, afite urudodo mu ntoki ze, ari kunyuza hagati y'amenyo, agira ngo akuremo imyanda iba yagiyemo, ari kuyasukura mu buryo bwo gutuma asa neza, ndetse bikamurinda umwanda, wo mu menyo.

Umwana uryamye kwa muganga, akaba ari kwitabwaho n'umuganga wambaye udupfukantoki dusa n'ibara ry'umweru, ndetse akaba ari gukoresha ibikoresho byabugenewe mu kuvura amenyo, kugira ngo avure uno mwana amenyo ye, agire ubuzima bwiza.

Umwana muto ufite agakoresho gasukura amenyo kitwa uburoso, akaba yishimiye kuba agiye gusukura amenyo ye ndetse yambaye n'ishati y'amaboko maremare y'umweru.

Umwana uraramye yasamye, ari kuvurwa amenyo n'umuganga ukoresheje ibikoresho byabugenewe mu kuvura amenyo, yambaye udupfukantoki tw'umweru n'ishati y'umweru ndetse n'indorerwamo.

Umugabo ufite akantu bambika mu menyo bityo akarushaho gusa neza cyane bihebuje, yakerekeje mu kanwa ke akaba agiye kukambika amenyo ye.

Abana bafite ibikoresho byifashishwa mu gusukura amenyo byitwa uburoso bakaba bari gukorera amenyo yabo amasuku bambaye imyenda isa n'ubururu.

Umukobwa uri kuvurwa amenyo n'umuganga wabigenewe, aho yambaye udupfukantoki ndetse n'agapfukamunwa n'itaburiya isa n'umweru, hari gukoreshwa igikoresho cyabugenewe mu by'amenyo.

Umukobwa w'umuforomokazi, wambaye agapfukamunwa ndetse n'indorerwamo yazamuye hejuru mu mutwe, yambaye ishati y'umweru ndetse n'udupfukantoki, afashe umwana ari kumukura iryinyo, umwana aryamye ku gitanda gifite umusego w'ubururu, ndetse n'umwenda w'ubururu.

Umukobwa wamwenyuye, imbere ye hari intoki ebyiri, afite imisatsi iri gusa n'umukara irambuye, uyu mukobwa ni umwirabura.

Umugabo wishimye ari guseka afite urudodo mu ntoki ze, ari gusukura amenyo ye akaba afite isura isa n'inzobe.

Umukobwa wakoze ikimenyetso, imbere ku munwa we aho yasetse yerekana amenyo, icyo kimenyetso akaba gikoresheje intoki ze, kikaba kizengurutse umunwa.

Umugabo wakojeje urutoki ku bwanwa ari guseka ndetse yambaye indorerwamo, afite iherena ku zuru. Yambaye n'umupira usa n'ibara ry'umweru.

Umugabo w'inzobe ufite urudodo mu ntoki ze, ari kurunyuza mu menyo hagati agenda akuramo imyanda kugira ngo amenyo ye arusheho gusa neza kandi bimurinde indwara z'amenyo.

Umugore uri kumwe n'umwana we bombi bambaye amasengeri asa n'ibara ry'umweru, bafite uburoso mu ntoki zabo bari gusukura amenyo ndetse n'umuti wagenewe gusukura amenyo.

Umuganga ufite ibikoresho by'amenyo mu ntoki ze akaba yambaye udupfukantoki dusa n'ubururu, aho agiye kwita kuri uyu musore wakojeje urutoki rwe mu menyo, aho ari kureba umuganga.

Umusore ndetse n'umukobwa bafite indodo zikoreshwa mu gusukura mu kanwa, aho zagenwe n'abaganga kugira ngo zisukure hagati y'amenyo aho uburoso butabasha kugera. Bambaye imipira isa n'ibara ry'umweru bose uko ari babiri.

Umusore wamwenyuye, ufite ubwanwa ndetse yambaye ikoti ry'ubururu bukeye, mo imbere yambariyemo umupira w'uturongo tumanuka ku ikora ryawo.

Ibikoresho byifashishwa mu kuvura mu gihe bari kuvura amenyo akaba arimo igitanda umurwayi aryamaho ndetse n'intebe bisa n'ibara ry'iroza hakaba hari n'ibindi bikoresho byabugenewe mu gukura amenyo bisa n'ibara ry'umweru.

Abaganga babiri bari kwita ku murwayi aho bari kumukura amenyo, bakaba bambaye bikwije ibikoresho bigenewe abaganga harimo indorerwamo, agapfukamunwa ndetse n'udupfukantoki kugira ngo badahura n'amavirusi yabatera indwara.

Umugabo ufite urudodo mu ntoki ze ari gusukura amenyo kugira ngo ase neza ndetse avemo imyanda, aho urudodo runyuze hagati y'iryinyo n'irindi rugakuramo ibyokurya byasigayemo, afite agatambaro k'umweru ku rutugu rwe yashyizeho.

Abantu bane ndetse n'umwana muri bo bagaze, babiri ni ab'igitsina gabo, abandi ni igitsina gore, harimo umusaza n'umukecuru n'abandi b'urubyiruko ndetse n'umwana muto muri bo.

Umukecuru uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'amaboko magufi usa n'ikigina ndetse inyuma ye, iruhande rwe hari umugore na we ukuze wambaye ikanzu y'umweru, uri mu myitozo ngororamubiri. Inyuma yabo hari igiti cy'inganzamarumbo gisa n'icyatsi kibisi.

Umukobwa wambaye umupira w'ubururu, ufashe mu ntoki umusaza wicaye mu kagare k'abafite ubumuga. Inyuma yabo hari inzugi zifite ibirahure ndetse hejuru hasize irangi ry'umweru udakeye cyane.

Umusore n'umusaza bicaye bari gusoma igitabo, umusaza yambaye indorerwamo ndetse n'umuhungu yambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umukara mu tuzu, imbere yabo hateretse ibikombe bibiri bifite ibara ry'umweru, inzu barimo isize irangi ry'umweru hejuru.

Umugabo wambaye umupira w'umweru usa n'ivu ndetse n'ipantaro y'ubururu bwijimye, ari kwigishwa kugenda n'umugore umuri inyuma wambaye imyenda isa hose n'ibara ry'ubururu.

Abagore benshi bari mu murima w'icyayi, aho bari kugenda basarura icyayi, bashyira mu bitebo bagiye bafite. Bafite akanyamuneza, aho bishimiye igikorwa barimo.

Umusaza uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri n'umugore w'umuganga wabigenewe, uyu mugore yambaye itaburiya y'umweru, aho yafashe umusaza ku rutugu ndetse no kukaboko amwereka uko agomba gukurikiza imyitozo ngororamubiri.

Umukecuru, n'umukobwa ndetse n'umwana muto. Bari kumwe bishimye basetse. Ndetse umukobwa yambaye indorerwamo. Umwana afite utuntu, tw'ibimera by'icyatsi mu ntoki ze.

Umuganga uri kwita ku musaza amucunga mu kagare kagenewe gutwara abantu batabasha kwigenza, ndetse inyuma ye, yabo hari abandi bantu bicaye ku ntebe ndetse hagati yabo hari ameza.

Umusaza wicaye ku ntebe afite ibyo kurya mu ntoki ze, iruhande rwe hari abana babiri bicaye na bo bafite ibyo kurya mu ntoki zabo, uwo hirya afite icyo kurya ndetse n'icyo kunywa mu kajerekani gato gasa n'ibara ry'umweru.

Umukobwa wambaye umupira w'amaboko magufi w'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, afashe umusaza ukuboko, ndetse amufashe no ku rutugu, ari kumwigisha uko agenda agenda gake, uyu musaza yambaye agakabutura k'umukara n'umupira w'amaboko magufi w'ubururu.

Umusaza ugaragara yishimye ndetse akaba ari gukina igisoro na bagenzi be, icyo bita ikibuguzo.

Abantu bishimiye igikorwa kirimo gukorwa, aho hari umugore uhagaze uri kunyura imbere yabo, ufite igikapu ahawe n'ubuyobozi ndetse abantu bahuriye hano bose bari gushima igikorwa cyakozwe.

Umugore uhagaze ari mu mahema, akaba ari guha serivisi abicaye muri ayo mahema ahantu habereye igikorwa cyo kuganira, ndetse hari n'abandi bantu bagiye bahagaze bari guca muri aba bantu babaha ibyo bakeneye.

Umusaza wambaye indorerwamo n'itaburiya ndende y'amaboko y'umweru, mo imbere yambariyemo ishati y'icyatsi cyijimye afite ikaramu mu ntoki ze ari kwandika mu ikaye.

Umugabo ukuze ufite imvi mu bwanwa no mu musatsi, afite umugozi usa n'umuhondo ari gukururana na mugenzi we bombi bawufasheho.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda y'abaganga isa n'icyatsi kibisi ndetse n'agapfukamunwa gasa n'ubururu bucyeye, ari kwita ku mugabo wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa k'ubururu bucyeye, aho ari kumusuzuma yumva uko umutima we utera.

Umugore ufite ibinini mu ntoki ze, ndetse n'ikirahure cy'amazi mu kaboko k'iburyo, aho agiye kubinywa, ndetse akarenzaho amazi. Ari ahantu mu gikoni cyabugenewe, harimo aho bogereza amasahani, ndetse harimo n'ibikoresho byo mu gikoni, bitandukanye.

Umusaza wicaranye n'umwuzukuru we muri saro bafite ibikoresho byifashishwa mu gukina imikino izwi mu rumi rw'Icyongereza bita video games, bakaba bicaye kandi ku dukoresho dufite ibara ry'umukara.

Abagore babiri bari kugenda umwe yambaye umupira w'amaboko maremare usa n'ubururu budakeye ndetse n'agatambaro k'umutuku, undi yambaye amatiriningi asa n'ubururu bwijimye harimo n'uturongo tw'umweru.

Ababyeyi b' abamama batatu bakuze, bishimye cyane, bari guseka aho bari gufata amafoto bombi, bose bifotoreza hamwe.

Abasaza babiri bari ahantu hateraniye abantu benshi, umusaza umwe yambaye ishati y'umweru n'umukenyero w'umukara, undi yambaye ishati y'ubururu n'umukenyero w'umweru ndetse bose bambaye ingofero, undi yambaye indorerwamo.

Umusaza uteruye umwana ndetse uyu musaza yambaye ishati irimo uturongo dutambitse, harimo amara y'umweru ndetse n'ubururu n'icyatsi gikeye, umusaza afite imvi mu mutwe kandi umwana ateruye afite agakinisho mu ntoki ze.

Umuganga uri kwita ku mukecuru wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo kutagenda, akaba ari kumuvura ku kuboko, aho yamushyizeho igipimo gipima umuvuduko w'amaraso.

Abagabo babiri bambaye amashati y'umweru, bari gukora siporo bishimye cyane baseka, uwo hirya afite umupira mu bitugu usa n'umukara ndetse n'icupa ry'amazi mu ntoki.

Umusore uhagaze inyuma y'umusaza aho amufashe ku kagare agendamo ndetse umusaza ari kuganira n'umukecuru w'umuzungu, aho bicaranye ku meza, bari gusangira ifunguro. Hirya yabo inyuma hari n'abandi bantu bicaye ku meza b'abazungu batatu.

Umusaza wicaye ku meza, yambaye umupira w'umweru w'ubudodo, akaba ari kwitabwaho n'umugore uri kumuha umutobe w'imbuto, amusukira mu kirahure, ndetse ku meza hateguye n'izindi mbuto, zafasha umuntu kugira ubuzima bwiza, uyu musaza agiye kurya.

Umuganga uri gufasha umusaza ufite imvi mu mutwe ndetse wambaye indorerwamo, ari kumufasha uburyo yafata kano gatambaro gasa n'umuhondo amuyobora uko gakoreshwa, ndetse inyuma yabo hari umukobwa uri kureba mu idirishya ry'ikirahure riri iruhande rwe. Uyu mukobwa wambaye ishati y'umweru.

Umusaza wambaye indorerwamo uri guhagurutswa ku buriri buriho amashuka asa n'umweru ndetse hejuru yabwo hari inzitiramibu, afashwe mu ntoki n'umuzungu w'umuganga wita ku barwayi.

Abagabo babiri, umwe muri bo arakuze ni umusaza ufite imvi mu bwanwa, yambaye umupira w'amaboko magufi w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, bari gukurura umugozi usa n'umuhondo. Uyu mugabo w'umusaza yicaye ku gitanda cy'umweru n'inzu arimo isize irangi ry'umweru.

Umusaza n'umukecuru bari kumwe mu cyumba, aho umusaza ufite imvi mu bwanwa afite n'igikombe ari kunywa, imbere ye hahagaze umukecuru w'imvi mu mutwe wambaye indorerwamo ndetse n'ikanzu y'ubururu bwijimye.

Umuganga ufite akanini mu ntoki, agiye guha umukecuru wicaye, ufite ikirahure cy'amazi giteretse ku meza, ndetse ku meza hariho akandi gakarito k'umuhondo, k'imiti. Uyu muganga ari kugira inama uko uyu mukecuru yajya afata imiti ye neza.

Abantu bicaye ku ntebe bari kuganira bishimye, bicaye ahantu mu byatsi ndetse hari n'ibindi bimera inyuma yabo by'ibyatsi birebire, hasi hicaye umugore uri kuboha inkangara mu byatsi, aho bari kuganira bishimye ndetse bari kumwe n'umuzungu hirya uteruye umwana yamushyize ku itako.

Umusaza ndetse n'umukecuru, bari kumwe bishimye, umukecuru yambaye, ateze agatambaro k'umutuku, yambaye n'ikote ry'umukara mw'imbere yambariyemo ikanzu, umusaza yambaye ikote ry'umukara rifite imashini, bisa n'aho yishimiye uno mukecuru bari kumwe.

Umukecuru ufite umusatsi mwinshi urimo imvi, yambaye indorerwamo ndetse mu kaboko k'ibumoso afitemo ikirahure cy'amazi, akaboko k'iburyo ari kugakoresha afatisha ikiganza cye ku munwa.

Umusaza n'umukecuru barambitse imiti ku meza, aho bari kugenda bafungura akantu ku kandi, umukecuru yambaye isaha ku kuboko ndetse ku meza hatetseho indorerwamo, umusaza we azambaye mu maso.

Abagore bahagaze bari mu isoko bari gucuruza, harimo umukecuru, aba bagore imbere yabo hateretse inyanya ziri mu bikarito aho bacururiza, ndetse inyuma yabo hirya gato hari amaronji.

Umugabo ndetse n'umugore, bari gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imipira y'amaboko magufi, umugabo yambaye umupira w'umukara ndetse ufite n'ibara ry'umweru. Muri make urasa n'ivu. Umugore yambaye umupira w'umweru, aho bari kugenda bakora imyitozo ngororamubiri, bishimye baseka.

Umusaza ukuze wicaye mu kagare, yambaye indorerwamo, inyuma ye hari umukobwa uri kumusunika mu kagare, hirya yabo hari ibiti bikikije inzu ihari.

Umuganga wabugenewe wambaye agapfukamunwa, ndetse n'indorerwamo, akaba yambaye n'imyenda isa n'iroza, yambaye n'isaha ku kuboko, ndetse n'udupfukantoki dusa n'umweru, akaba ari gufata ibipimo umukecuru ukuze, inyuma yabo hari ubusitani burimo indabo, ibyatsi, ndetse n'ibiti.

Ababyeyi bicaye bari kuganira, bizihiwe, baseka, baganira, bakaba bafite amakarita mu ntoki zabo ndetse bari kuyakinira ku meza iba imbere. Bari mu nyubako isizwemo irangi ry'umweru.

Umusaza wambaye imyenda y'umweru haba umupira n'ipantaro mu imbere yambariyemo ishati, isa n'ubururu bucyeye, akaba ari kwitabwaho n'umuganga wagenewe kwita ku bantu bakuze, aho yambaye imyenda y'akazi hose isa n'ibara ry'ubururu.

Umugore ndetse n'umusaza bicaye bari kureba muri telefone mu gikorwa kiri kubera muri iyo telefone, ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho agakoresho gasa n'ibara ry'umukara, ndetse muri iyo nzu harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umuforomokazi uri kumwe n'umugabo, ari kumwigisha kugendera mu gakoresho kifashishwa mu gutoza abantu kugenda bahuye n'ikibazo cy'imvune, batakibasha kugenda neza.

Umusaza wambaye indorerwamo akaba afite imvi mu mutwe n'umupira wumukara, yicaranye n'umukobwa uri kumuha imiti amusobanurira uko iyo miti ikoreshwa, aho ku meza hateretseho igitabo ndetse n'ikirahure cy'amazi.

Umugore uri kumwe n'umusaza ukuze, bari kuganira bishimye, baseka. Uyu mugore yambaye imyenda isa n'ubururu, mo imbere yambariyemo umupira w'amaboko maremare usa n'umweru ndetse uyu musaza yambaye umupira w'amaboko maremare w'ikigina, afite n'inkoni mu ntoki.

Abantu babiri bambaye udupfukantoki, umwe afite agakoresho k'umukara gafite umugozi, undi ari hirya ye ni umugore na we wambaye imyenda isa n'ubururu, yambaye n'agapfukamunwa k'ubururu.

Icyapa cyanditseho umubare gatatu ndetse n'amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo gudu herisi ande weri biyingi yerekana uburyo ubuzima bugenda buzamuka bumanuka buzamuka bugakora neza.

Ingombajwi ya H ndetse na R, hagati yazo harimo ikiganza kimwe gifashe ikindi, hakaba handitseho mu magambo arambuye health people Rwanda. Iyi people ikaba isobanuye iki kiganza gifashe ikindi kiganza.

Umugore wambaye indorerwamo ndetse n'umugabo bafite icyapa kinini ndetse n'undi mukobwa utagaragara neza, wambaye umupira w'icyatsi kibisi n'ipantaro y'umweru.

Abagore bane bateruye abana bato b'impinja, inyuma y'abo bagore hari urukuta rusize irangi ry'umuhondo ndetse rumanitseho amafoto ane manini.

Abaganga bicaye, bari gutanga serivisi z'ubuvuzi ku bantu aho haba abaganga cyangwa aba bantu baje guhabwa iyo serivise bose bambaye udupfukamunwa ndetse buri muganga yicaranye n'umuntu we ari kuvura.

Abantu benshi bateraniye ahantu mu cyumba kiri gukorerwamo inama. Aho bafite abayobozi babicaye imbere, bari kubaha inama ndetse aba bombi bose bakurikikira ikiganiro bicaye ku ntebe z'umutuku, ababayoboye nabo bicaye imbere inyuma yabo hari icyapa kiriho kubakangurira kurwanya SIDA.

Abantu bahuriye ahantu hagari mu muhanda bari kugenda barangajwe n'abari imbere yabo bafite icyapa cyanditseho ngo urubyiruko nimwe hazaza heza hur'Urwanda. Irinde virusi itera sida ipimishe uyu munsi.

Abaganga batandukanye bambaye imyenda, ibapfutse hose uretse ku maso, ifite ibara risa n'icyatsi kibisi, bambaye n'ingofero ku mitwe yabo ndetse n'udupfukamunwa, bari mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, haba harimo ibikoresho, ibyerekana amashusho n'ibindi bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi.

Madamu Jeannette Kagame ahagaze aho yateguriwe hari indangururamajwi ebyiri, aho ari gutanga inama zerekeranye n'ubuzima bw'imitekerereze.

Umusore ufashe umukobwa ukuboko, ari kumuha ubutabazi bw'ibanze, uyu musore yambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare ndetse n'akandi kenda yarengejeho gasa n'umutuku k'amaboko magufi. Uyu mukobwa yambaye umupira w'umukara afite n'imisatsi miremire.

Abantu bicaye bakurikiye inama bari guhabwa n'umuntu bahagaze imbere bahanze amaso, hakaba harimo abambaye imipira y'umukara, ndetse inyuma yabo hari abantu b'urubyiruko bambaye imipira isa n'ibara ry'umweru, abicaye imbere imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umweru n'umutuku.

Inzu yo kwa muganga ndende, imbere yayo hari abagabo batatu bahagaze bambaye amakoti bari iruhande rw'imodoka, hirya y'aho hari umuntu uri kuza agana aho abo bagabo bari.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri mu ruhande rw'ibumoso, ndetse hasi hasashe igitambaro kirekire cyane gisa n'ibara ry'icyatsi, kinyuzemo uturongo duke dufite ibara ry'umweru.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibitanda bitandukanye bisa n'ibara ry'umweru, hejuru y'ibitanda harimo inzitiramibu ndetse n'amarido asa n'ibara ry'ubururu.

Umusaza uri kumwe n'umuganga, akaba ari kumupima amusuzuma ngo arebe uko ubuzima bw'umusaza buhagaze, uyu musaza yambaye indorerwamo mu maso ye, ndetse umuganga yambaye imyenda yabugenewe y'abaforomo isa n'ubururu.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima, ikaba irimo ibikoresho byo kwa muganga harimo ibitanda ndetse harimo n'ifoto irimo ururabo rufite amabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Ikigo nderabuzima kinini, hateyemo igiti cy'inganzamarumbo gifite amabara y'icyatsi ndetse n'ubusitani burimo indabo, n'ibyatsi biteye hagati y'izi nyubako zo mu kigo nderabuzima.

Abantu bari mu nyubako itangirwamo ubuvuzi, yiganjemo irangi risa n'umweru ndetse harimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, ibiri hasi, ibiri ku mpande no hejuru, bari kureba uko ibyo bikoresho bigiye bikora.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru mo imbere yambaye umupira w'umuhondo, yicaye ku ntebe isa n'icyatsi kibisi, inyuma y'urukuta rusize irange ry'umuhondo ndetse iruhande rwe hari ibyuma bikoreshwa mu kazi ke bisa n'ibara ry'umweru.

Inyubako zitangirwamo ubuvuzi, imwe murizo ibanza isize irangi ry'umweru, ndetse isakaje amabati y'umutuku, indi yo hirya nayo isagaje irangi ry'umuhondo ukeye, isakaje n'amabati y'umutuku, izi nyubako imbere yazo hateye ubusitani burimo indabo ngufi ndetse n'ibyatsi.

Inyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, harimo intebe zizamurwa zikaba n'ibitanda, ndetse isizemo irangi ry'umweru, hanyuzemo uturongo tw'ubururu n'umutuku.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi imbere yaho haparitse imodoka zitandukanye. Isakaje amabati y'umutuku ndetse isize amarangi y'umuhondo. Imbere yaho hari icyapa cyanditseho republic of Rwanda, Ministry of health, University of teaching hospital of Butare CHUB. Missions Health care services, Medical education, research, supervision of D.H.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi, harimo igitanda, aho abarwayi baryama ndetse n'ibikoresho byifashishwa bari gucisha umurwayi mu cyuma.

Umuforomokazi uri mu nyubako yo kwa muganga aho akorera, yambaye itaburiya isa n'umweru iriho uturongo twa move, ndetse yambaye n'udupfukantoki mu ntoki ze ndetse n'agakomo kagizwe n'amasaro kari ku kuboko kwe.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi ifite ibyumba bigiye bitandukanye biyobora abantu aho bajya gushakira serivise zitandukanye, yiganjemo amabara asa n'umweru asize ku bikuta ndetse n'umuhondo wijimye.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi ndetse muri iyo nyubako harimo umuganga wunamye, wambaye umwenda wo hejuru w'umweru n'ipantaro y'icyatsi kijimye ndetse hirya haari umuntu uryamye ku gitanda urwaye arembye.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuzima zo kuvura abantu, ikaba irimo imiti itandukanye iteretse aho yagenewe kujya ndetse iyi nyubako ifite icyapa cyanditseho amagambo y'Icyongereza avuga ngo progress pharmacy, imbere yayo hari imodoka igaragara agace k'imbere.

Inyubako ikikijwe n'ubusitani burimo indabo zisa n'ibara ry'icyatsi ndetse n'utubara tw'umuhondo, ruguru gato hari insina zifite amakoma afite ibara risa n'umutuku wijimye, hari abantu bari guca mu muhanda bagenda batatu.

Inyubako y'icyumba cyo kwa muganga irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, harimo igitanda, ibikoresho bimanitse hejuru byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse n'ikindi gikoresho kiri inyuma y'igitanda bareberamo ubuzima bw'umuntu uko buhagaze bwapimwe n'ibyo bikoresho.

Inyubako yagenewe kuvura abantu mu bintu bitandukanye by'ubuzima ikaba irimo ibikoresho bikoreshwa kwa muganga birimo ibitanda bigiye bitandukanye ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi, ikaba igeretse, isize irange ry'umweru ndetse isakaje amategura, hirya yaho hari indi, isize irange ry'umweru, ndetse n'irange ry'umukara werurutse usa n'ivu.

Inyubako y'ikigo nderabuzima yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba isize irangi ry'umuhondo. Imbere yayo hari abantu babiri, umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati y'icyatsi gikeye, munsi yaho handitse Muhazi yacu akadomo rwa.

Umugore uri kuvura umuntu wamuhaye akaboko, amwicaye imbere wambaye ishati y'umweru n'indorerwamo, imbere hari umugabo uri kwandika yandikira ku meza ndetse inyuma ye hahagaze umugore wambaye imyenda y'umweru ufashe ku ntebe, ufite ikaramu mu ntoki kandi hari n'umugore uri inyuma yabo wicaye ku ntebe y'umutuku uri kureba.

Inyubako nini yubakishije amatafari ndetse isakaje amabati y'ubururu, ikaba isize irangi ry'umuhondo hano inyuma.

Inyubako irimo ibicuruzwa by'imiti ikaba irimo abantu imbere barimo umugore uhetse umwana, n'umwana muto uri kumwe n'uwo mugore, n'abandi bagore babiri bahagaze, ikaba yanditseho amagambo avuga ngo farumasi iraguha.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako itangirwamo ubuvuzi, iherereye i Rwamagana, iriho urukuta rurerure rwanditseho amagambo y'icyatsi gikeya avuga ngo "Rwamagana hospital". Aba bantu biganjemo abazungu ndetse n'abirabura, abenshi muri bo bambaye amakarita y'akazi.

Inyubako ndende y'ubuvuzi isize irangi ry'umuhondo, ikaba igizwe n'ibirahure, mu mpande zitandukanye, ndetse haparitse imodoka, mu mbuga yazo zigiye zitandukanye, mbere yo kwinjira muri icyo kigo, hari icyapa cyanditseho, opitari rakuruwa diside.

Inyubako y'ubuvuzi irimo intebe zitandukanye zitagize umuntu wicayemo ndetse iritaruye, ni ngari, hejuru hari amabara asa n'umuhondo utsindagiye ndetse n'umuhondo ukeye.

Inyubako y'ubuvuzi, isize irangi risa n'iroza rikeye, hakaba hagaragara imitwe y'abantu bahagaze imbere y'iyo nyubako.

Umuganga uri kwita ku murwayi urwariye ahantu mu bitaro kwa muganga akaba aryamye ku gitanda, inyuma ye hasize irangi ry'umuhondo ku rukuta ruhari.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, ndetse harimo igitanda kiryamyeho umugore n'umurwayi uri kwitabwaho, ahabwa ubuvuzi.

Inyubako itangirwamo ubuvuzi, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye birimo ibyo bakoresha bari gupima abarwayi, ibyerekana amashusho yabo ndetse n'aho baryama bari gusuzumwa. Higanjemo ibara ry'umweru muri ino nyubako.

Ubusitani bugari busa n'icyatsi kibisi, hirya gato mu muhanda hari abantu babiri bari kugenda imbere yabo hari inyubako nini itambitse ndetse inyuma y'ubusitani hari inyubako nini isize amarangi y'umweru.

Inyubako y'ubuvuzi nini, hejuru handitseho Polyclinic du Plateau. Imbere yayo hari ubusitani bugizwe n'imikindo, hagati yayo harimo intera, ikaba isa n'icyatsi kibisi.

Inyubako nini y'ubuvuzi yubakishije amatafari ku ruhande rumwe ahiye, ndetse ahandi izengurukijwe n'irangi risa n'umweru, harimo n'ibirahuri muri iyo nyubako. Imbere yayo hari abantu b'urujya n'uruza bari kugana iyo nyubako, ndetse hirya hari abakiri mu mirimo yo kubaka.

Inyubako y'ubuzima irimo ibikoresho birimo uburiri ndetse n'ibikoresho bipima uko umutima w'umuntu utera. Hejuru harimo n'ibikoresho bitanga umuyaga muri iki cyumba gisizemo irangi risa n'umweru.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi iriho akapa gasa n'ubururu n'umweru kanditse n'amagambo y'umukara, ndetse biri ku nkingi ndetse n'urukuta bisize irangi ry'umuhondo, iyi nyubako ikaba igeretse ndetse harimo abantu baje kwaka serivisi z'ubuvuzi. Imbere y'inyubako hateye ibiti by'ubusitani.

Inyubako yo kwa muganga, irimo ibikoresho byifashishwa mu gutanga ubuvuzi ku baturage, harimo ibitanda bigiye bitandukanye n'intebe ndetse n'ibikoresho bifashisha mu kureba amashusho yerekeranye n'uburwayi bw'umurwayi.

Inyubako y'ubuvuzi imbere yayo hirya hari icyapa cyanditseho Ikigo nderabuzima cya Matyazo, muri iyo nyubako hari gusohokamo abagore babiri ndetse isize amarangi y'umweru ahandi yubakishije amatafari ahiye.

Inyubako nini, imbere yayo hari guca abantu b'urujya n'uruza, ifite inkingi zubatse n'amatafari ndetse ikikijwe n'ibyuma bisize irangi ry'umweru. Mo imbere harimo icyapa cyanditseho ibitaro bya Ruhengeri.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa n'abaganga bari kuvura abarwayi, aho harimo igitanda, ibikoresho bareberaho amashusho ari gufatwa mu gihe bari kuvura umurwayi ndetse hamanitsemo n'ifoto iriho ibishushanyo.

Abagore bane bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hari inzu isize irangi rya oranje, mu kaboko k'ibumoso hejuru handitseho inzu y'ababyeyi, hirya yabo hasize irangi ry'umuhondo ukeye.

Inyubako itangirwamo imiti ijyanye n'ubuvuzi ibyo twita farumasi, iyi nyubako irimo imiti y'amoko agiye atandukanye apanze mu byiciro.

Inyubako igaragaramo ibikoresho byo gukarabiramo ndetse n'uburiri buri ku gitanda bushashe neza, inyubako mo imbere hasizemo irangi risa n'umweru.

Inyubako yo kwa muganga ikorerwamo ubuvuzi irimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi harimo intebe, igitanda, ndetse hasizemo irangi risa n'umweru, harimo n'ibikoresho bigiye bitandukanye binyura hejuru.

Inyubako yo kwa muganga irimo intebe zitandukanye ndetse hejuru hariho ibikoresho byifashishwa kugira ngo bitange umuyaga mu nyubako, isizemo amarangi, yiganjemo umweru, umuhondo ndetse na oranje.

Inyubako yo kwa muganga irimo intebe zisa n'umukara ndetse n'ameza, hakaba harimo n'ibindi bikoresho by'amoko atandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Inyubako yo kwa muganga bavuriramo, iriho icyapa cyanditseho inzu y'ababyeyi n'impinja, iyi nyubako ikaba ivurirwamo ababyeyi bari guhabwa serivisi zo kubyara ndetse n'impinja ikaba isize irangi ry'umuhondo wijimye ndetse ikaba igeretse.

Abagore batatu bambaye utugofero tw'umweru ndetse n'amakanzu y'ibishati asa n'ubururu, inyuma yabo hari ibiti by'inganzamarumbo bisa n'icyatsi kibisi ndetse n'imikindo, hari n'umuhanda ukomeza inyuma, ni wo bahagazemo.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, yubakishije amatafari ndetse isakaje amabati y'ubururu, isize irangi ry'umuhondo, handitseho amagambo avuga ati "Materinete inzu z'ababyeyi". Byanditse mu ibara risa n'ubururu.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Gishweru, imbere yaho hahagaze abantu ndetse isize irangi ry'umuhondo, ikaba yubakishije amatafari ahiye, hari n'umuntu wicaye ku idirishya ku ntebe ihateretse ndetse ugana hirya hari n'abandi bantu bari guca mu kayira bagenda.

Umugore wambaye agapfukamunwa k'ubururu bukeye, ndetse afite n'imigozi mu ijosi, yicaye ku ntebe isa n'umweru, afashe umwana muto akaboko, uyu mwana yambaye ishati y'umweru, ndetse yicaye ku ntebe isa n'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga bavuriramo abarwayi, kirimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, birimo ibitanda bitandukanye ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu kwerekana amashusho y'uko uburwayi bw'umuntu bumeze iyo bamusuzumye.

Inyubako irimo ibitanda bitatu bifite uburiri busa n'icyatsi kibisi ndetse mu nzu imbere hasizemo irangi ry'umweru, ibitanda bikaba bisa n'umweru byose uko ari bitatu kandi bigezweho.

Icyumba cyo kwa muganga kivurirwamo abarwayi, harimo aho umuntu aryama bagiye kumucisha mu cyuma ndetse harimo n'igikoresho cyifashishwa mu kugaragaza uko guca mu cyuma byagenze ndetse hari n'icyo cyuma umuntu acamo.

Abantu biganjemo abambaye imipira y'umuhondo bicaye ku ntebe zisa n'icyatsi kibisi ku maguru yazo hazengurukijwe udutambaro tw'umweru buri wese afite agacupa k'amazi yo kunywa bakaba bicaye ahantu bategereje kubwirwa amagambo n'uri bube abayoboye.

Inyubako y'ibitaro bivurirwamo abarwayi, yubakishije amatafari ndetse isakaje amabati y'ubururu bukeye, hirya yayo ku ruhande rw'iburyo hari igiti kirekire, ndetse ujya kubyinjiraho ubanza kunyura ku cyapa, cyerekana kandi kigasobanura serivisi zihatangirwa, giteye mu busitani buzengurutswe n'indabo ndetse buteyemo n'ibyatsi.

Umugabo uri mu nzu ivurirwamo abarwayi, aryamye ku gitanda ndetse ari kwitabwaho n'abaganga aho basize bamushyizeho ibikoresho bimwongerera ubuzima akamera neza, yambaye agapfukamunwa k'ubururu bukeyeye ku munwa we ndetse yambaye n'ikabutura.

Inyubako y'ikigo nderabuzima irimo abarwayi batandukanye baryamye ku bitanda, ahabanza hariho umusaza uryamye, hirya hari undi muntu uharyamye nawe ku gitanda.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho umuntu akoresha ari kuvura, harimo agatebe gasa n'umukara gafite amapine ndetse n'aho umuntu aryama, bari kumunyuza mu cyuma kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze.

Inyubako yo kwa muganga, imbere yayo hari abantu bane ndetse n'imodoka iparitse, hirya yaho gato aho bakirira abantu, hahagaze abandi bantu bari ahantu hasakaye aho bakirira abantu.

Inyubako ngari nini yanditseho Nyarugenge District Hospital. Ikaba iteyemo ibiti bibiri ahantu mu nzira nyabagendwa igana kuri ibyo bitaro ndetse ikikijwe n'ubusitani busa n'ibara ry'icyatsi kibisi, burimo indabo n'ibyatsi.

Abagore babiri, umwe wambaye ishati y'umweru ateruye uruhinja mu ngobyi, inyuma yabo gato hari urugi rw'ibyuma ndetse n'urukuta rusize irangi ry'umuhondo ku gice cyo hejuru, hasi umweru w'ivu.

Umugore uhagaze iruhande rw'imodoka y'umukara, yifashe mu mayunguyungu akenyeye igitenge, hirya ye hari abandi bagore babiri bari kuganira, iruhande rw'abo bagore babiri hari umuhungu wicaye wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, hirya ku kigo gitanga ubuvuzi hari abandi bantu bahateraniye imbere y'inyubako.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri irimo ibikoresho bitandukanye: ibyo birukankiraho, ibyo banyonga kugira ngo bakore siporo mu maguru yabo n'ibindi bitandukanye biri muri iyo nyubako.

Inyubako irimo ibikoresho byo kwa muganga bigiye bitandukanye birimo ibitanda ndetse hakaba hari gutambukamo umuganga wambaye imyenda y'abaganga isa n'icyatsi cyijimye.

Umugabo wicaye mu kagare wamugaye, akaba ari gusunikwa n'umwana muto, wambaye ikote n'ipantaro bisa n'umukara ukeye ndetse umwana ari kumujyana aho uyu mugabo agiye kwitabwaho n'inzego z'ubuzima.

Inyubako y'ubuvuzi irimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, ifite ibara risa n'umweru ndetse ku rukuta hariho isaha ibara igihe ndetse n'igishushanyo kigaragaza ifoto yo ku mazi.

Inzu ikikijwe n'ubusitani bw'indabo zisa neza, harimo izisa n'umuhondo n'icyatsi kibisi, iyi nzu ni iy'amatafari, isize irangi ry'umuhondo, handitsemo amagambo y'umukara, ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Umuganga wasuye umukecuru mu rugo rwe, ari kumuha inama z'uburyo yakwitwara neza mu buzima bwe kugira ngo ubuzima bwe burusheho kugenda neza, bicaye hanze, ari kumuha inama z'ubuzima ndetse inyuma yabo hari urutoki ndetse n'indabo biri muri urwo rugo.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, ikaba irimo intebe zitandukanye, ibitanda byo kuryamaho bigenda bizamurwa bakanabihina ndetse hasizemo irangi ry'umweru ku nkuta n'inkingi ziri muri iyo nyubako.

Abantu benshi batandukanye, bicaye imbere y'inyubako y'ubuvuzi hari n'abahagaze inyuma yabo harimo n'ingabo z'igihugu, iyo nzu yanditse yanditsemo amagambo avuga ngo inzu y'ababyeyi cyangwa materineti, hirya gato handitse amagambo avuga ati yubatswe ku bufatanye na yunaberi.

Ibyatsi byinshi bigize ubusitani buteyemo amatara maremare, iruhande rwayo hari inyubako y'amatafari ahiye inkuta zisize amarangi ry'umweru, hejuru hari ikirere cy'ubururu ndetse n'ibicu bike by'umweru.

Umuganga wabigize umwuga uhagaze imbere y'abantu ari kugaragara nk'aho anezerewe rwose yambaye indorerwamo ndetse afite n'ibikoresho akoresha mu buvuzi bwe, hirya ye hari umugore wambaye ikanzu y'ubururu iriho n'uturabo dusa n'iroza ndetse n'umuhondo uhagaze.

Ibinika irimo amazi ari gusukwa mu gikombe cy'ikirahuri, inyuma yaho hari gusa neza cyane mu ibara ry'umweru uvanzemo n'ubururu bwijimye.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, ukuguru kumwe yagupfukamishije hasi, ukundi ntabwo gupfukamye, yambaye imyenda isa n'ibara ry'umukara.

Igikoresho cyifashishwa muri siporo ngororamubiri cy'icyuma gisozwa n'utubara dusa n'umukara ndetse kikaba gipima n'uburebure bugiye butandukanye mu buhagarike, mu butambike ndetse hakaba haziritseho agatambaro kamanutse gafashe impande zombi k'ubururu.

Umuntu wicaye uri gukoreshwa imyitozo ngororamubiri n'undi uhagaze iruhande rwe amufashe ari kumuyobora uko agomba gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye umupira w'amaboko magufi ndetse afite icupa risa n'ubururu bukeye mu ntoki ze, ririmo amazi ari kugenda anywa.

Umukinnyi uri mu kibuga uryamye hasi uri kwitabwaho n'abaganga babugenewe bazwi nk'aba kuruwa ruje bakaba bari kumutera imiti imuvura ku maguru ye ndetse hari n'abandi bakinnyi bagenzi b'umukinnyi bahagaze hejuru y'abo baganga.

Umukobwa wambaye agapfukamunwa k'ubururu bwijimye n'ishati y'umukara ndetse n'isaha k'ukuboko y'ubururu bwijimye uri kwita ku musore wari uri mu myitozo ngororamubiri, aho ari kumuvura ku kuboko.

Udukarito dufite ibara risa n'umutuku tubiri ndetse n'icupa ry'amazi, twifashishwa mu gutanga ubutabazi bw'ibanze, aho dukoreshwa n'abantu ba crox rouge baza kuvura abafite, abagize ikibazo cy'imvune mu kibuga.

Umuntu washyize intoki ku ivi ry'umuhungu uryamye, uyu mugabo afite akantu mu ijosi gasuzuma uburwayi ndetse yambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara risa n'umweru.

Udukoresho tw'uducupa dukoreshwa mu buryo bwo kubika imiti, tukaba tugiye turutanwa dufite imifuniko yo hejuru isa n'umweru ndetse kuri aya macupa hariho ibirango bigizwe n'ibara ry'ubururu umweru n'umutuku ndetse handitseho n'amagambo yo mu ibara ry'umuhondo.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri ituma umuntu agira ubuzima bwiza ikaba irimo ibikoresho by'amoko atandukanye harimo ibitanda n'amatara yifashishwa mu gihe umuntu arimo arakora imyitozo ngororamubiri ndetse akaba yagaragaza uburyo umuntu umubiri we uri gukora mu buryo bw'imyitozo ngororamubiri.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, wicaye ahantu mu byatsi, yambaye ikabutura n'isengeri bisa n'ikigina, ndetse amaboko ye ari kuyakandisha ku itako, mu buryo bwo gukora, imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uri gukoresha ibikoresho byifashishwa muri siporo ngororamubiri ndetse iruhande rwe hakaba hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa, areba uko akoresha ibikoresho by'imyitozo ngororamubiri.

Ikizingo gisa n'umutuku gikoreshwa umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, yagira ikibazo akakizirikaho kugira ngo kimufashe.

Umusore upfukamye ku gakoresho kagenewe gukorerwaho siporo, kugira ngo atandura, akaba yambaye isengeri n'ikabutura by'umukara, akaba yunamye, kugira ngo agorore umugongo.

Umugabo wifashe ku kuguru kwe kw'ibumoso, aho ari gushyira umuti mu ivi rye aho yagize ikibazo, ndetse imiti yifashishwa ku bagize ikibazo bari mu myitozo ngororamubiri, ari kwibazazaho agatambaro.

Umusore wicaye ku gitanda akaba ari kwitabwaho na muganga aho bari kumuzirikaho akantu kuva ku kirenge ndetse n'ukuguru kugira ngo kamufashe kumera neza aho yaba yagize ikibazo.

Umusore wicaye avuye mu myitozo ngororamubiri yambaye isengeri y'umukara ndetse afite agacupa k'amazi mu ntoki ze, ku kuboko kwe kw'ibumoso hariho akantu yambaye gasa n'ibara ry'icyatsi kibisi.

Ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo ibyo baterura, metero ipima uburebure bw'umuntu, ndetse n'amazi, hakaba harimo n'ibyo kurya, aho harimo amaronji ndetse n'ibindi bintu byo kurya bitandukanye.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, aho yafashe n'amaboko ye yombi mu ivi, ari kwigorora, ndetse yambaye agasengeri n'agakabutura bisa n'ibara ry'icyatsi gikeye ndetse n'inkweto zisa n'imyenda yambaye harimo n'akabara k'umweru hasi kuri taro.

Umugabo uri mu mwanya ukorerwamo imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye inkweto n'amasogisi atari maremare cyane n'imyenda y'umukara hasi no hejuru yamanitse akaguru ku biti, aho arimo ararambura imitsi yo mu kuguru n'amaboko.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura isa n'umukara, ku kuboko hariho isaha y'umukara izengurukijwe n'akantu kayigira nziza gato k'umweru ukeye ndetse yafatishije amaboko ye mu ivi.

Umusore uryamye mu kibuga, ari guhabwa ubufasha na mugenzi we uri ku mukanda mu ivi. Hirya yabo, hari amazamu ari gukinirwamo n'abantu batandukanye, bambaye imyenda yo hejuru isa nk'umuhondo n'amakabutura y'umukara.

Ibikoresho bikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri birimo igipima uburebure, ibyo baterura ndetse hakaba hari n'imbuto zifashishwa kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza harimo ironji, imboga ndetse n'umutobe w'ironji usa n'ibara ry'umuhondo hari n'izindi mbuto zisa n'umutuku.

Umukobwa uryamye areba hejuru ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho akaguru ke yagafashe agakoza mu gatuza he, hirya ye hari urukuta rwubakishije amatafari ndetse hari n'idirishya.

Umuntu ubyibushye wafatishije akaboko ke k'ibumoso ku kirenge ndetse kandi arakarambura, akaba ari mu myitozo ngororamubiri. Yambaye ipantaro imufashe isa n'ubururu bukeye n'agasengeri gasa n'icyatsi kibisi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye isengeri ngufi y'umweru n'ipantaro y'umukara, akaboko kamwe gafashe mu ivi ry'ukuguru kw'ibumoso ndetse kandi gafasha ku kirenge, inyuma yazengurutswe n'intebe zo kwicaramo zisa n'umweru.

Umukobwa wafatishije amaboko ye hasi wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri kagufi, wararamye ari gukora siporo. Hirya ye hari indabo zisa n'icyatsi kibisi, inyuma yazo hari urukuta rugari rw'umweru.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, birimo ibyo baterura mu kuboko kugira ngo amaboko akomere, hari n'amasahani ariho imbuto zirimo imineke, hakaba hari n'indi sahani iteretseho amagi ndetse n'ibinyampeke mu gasahani k'ikirahure. Ndetse hariho n'inyama.

Imiti yifashishwa muri siporo igiye itandukanye ndetse hari n'udupfukantoki umuntu yambara mu ntoki kugira ngo yirinde imyanda, iyo miti iri mu ducupa dutandukanye twiganjemo n'amashashi afite ibara risa n'umweru ndetse n'umutuku n'ubururu.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro y'ubururu bukeye ndetse yambaye n'agasengeri kagufi k'umweru yamanitse amaboko mu buryo bwo gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye hari ibimera bisa n'icyatsi kibisi biteye mu gakoresho kabugenewe.

Igice cyerekana amashusho agiye atandukanye y'imikorere y'ubwonko bw'umuntu, akantu ku kandi, udutsi tuba mu bwonko, ibyumba by'ubwonko bikoreshwa mu kubika amakuru runaka umuntu yabonye, n'ibindi bitandukanye.

Umugabo ufite igitambaro cy'umuhondo mu maboko ye, aho yaziritse mu kuboko kumwe n'ukundi ko hirya kurafashe, akaba ari kurambura amaboko ye ayagorora akora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari umuganga umushinzwe mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibinika yateganyijwe kujyamo amazi meza yo kunywa, aho umuntu ari gusuka amazi ayakuye mu ibinika ayashyira mu kirahure, ni amazi meza umuntu anywa akagira ubuzima bwiza kuko arasa neza kandi afite isuku.

Umuntu uri gukora siporo ngororamubiri, yifashe mu ivi n'intoki zombi, afatije ibiganza bye byose ku ivi, yambaye umupira w'umukara, w'amaboko maremare. Ni umugabo ufite ubwanwa.

Umukobwa wicaye ahantu hasa n'ibara ry'umweru, akaba yambaye n'inkweto z'umweru ndetse n'ipantaro n'isengeri by'umukara, akaba yafatishije amaboko ye munsi y'ikirenge cye, ari kugorora umugongo.

Umugabo uri kunywa amazi, avuye mu myitozo ngororamubiri akaba afite umwitero usa n'ibara ry'umweru mu ijosi ndetse yambaye n'umupira ufite ibara ry'umukara ukeye.

Ikusanyo ririmo imbuto zirimo urusenda rufite ibara ry'umuhondo, hakaba harimo inyanya, ubunyobwa budatonoye ndetse n'ibizwi mu ndimi z'amahanga nka pome ndetse na avoka, bikaba bifashwe n'umuntu mu biganza bye.

Umugore wifatishije agatambaro k'ubururu ku kaboko ke k'ibumoso. Yambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare ndetse n'umwenda wo hasi w'umukara.

Ibikapu bitatu bisa n'umutuku, bibikwamo ibikoresho bya siporo, kimwe muri byo kirafunze neza, ibindi bibiri birafunguye birimo ibikoresho, byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo ibirimo amacupa, imikasi ndetse n'ibindi bikoresho, umuntu yakifashisha.

Umuntu ufite agakoresho kajyamo amazi gafite igice cyo hejuru gifite ibara ry'ubururu akaba ari kuyanywa ndetse afite umwitero usa n'ibara ry'umweru mu ijosi rye. Yambaye n'isengeri irimo amabara y'icyatsi n'akarongo k'umweru ndetse n'ubururu.

Umusore uri kwitabwaho n'umuganga, yagize ikibazo ku kirenge cye, aho yari ari mu myitozo ngororamubiri. Yambaye umupira w'amaboko maremare usa n'umukara, ndetse n'ikabutura y'umukara imanuyeho uturongo tubiri tw'umweru. Ukuguru kw'ibumoso kwe niko kwambaye urukweto, ukundi nta rukweto rurimo. Bari kumuvura, umuganga yambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu bwijimye.

Umukobwa wicaye ku gitambaro kigufi giteretse ku makaro, ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, igitambaro kirasa n'ubururu, umukobwa yunamye, ari gukora munsi y'ibirenge bye, aho ari kugorora umugongo we.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri k'amaboko magufi k'umweru wijimye akaba ari kugorora amaboko ye, aho ari kuyarambura.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, aho ari kugenda asunika ibintu biriho ibiro biremereye, kugira ngo akomeze amagufwa yo mu maboko ye, ndetse no mu maguru ye, ari kubisunika yiruka.

Umuntu wunamye uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isaha, ari kwigorora mu mavi ndetse ari ahantu hitaruye hari kugaragara umucyo wa mu gitondo.

Inkweto zikoreshwa n'umuntu uri muri siporo zikaba ari inkweto zizamuye zigiye hejuru zifite ibara risa n'umukara zikaba ziriho agapapuro kerekana ko ari nshyashya aribwo zikigurwa kandiditseho bato.

Umuntu w'umukobwa wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri yo gukoresha imyitozo ngororamubiri ndetse n'ipantaro bisa n'umukara, imbere ye hari amazi ateretse mu icupa.

Umuntu yifatishije agakoresho gafite ibara ry'ubururu bukeye ndetse bigaragara ko ari umuti wo muri siporo, yari arimo akoresha kuko asa n'uwagize ikibazo mu kuboko.

Umuntu uryamye ku gitanda, ari kwitabwaho n'umuganga, amuha imiti ijyanye n'ibya siporo. Umuganga yambaye ishati inyuma isa n'ubururu ndetse mo imbere yambariyemo umwenda w'amaboko maremare usa n'ibara ry'umweru.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi byo kurya bifasha umubiri w'umuntu gukura neza, ibyo bikoresho harimo icyo bifashisha baterura na metero isa n'umuhondo ndetse n'umweru, icyo gikoresho baterura gifite udupine ku ruhande, harimo ibyo kurya birimo inkeri, ifi ndetse n'amaronji.

Umuntu uri ukora imyitozo ngororamubiri aho yarambuye amaboko ye ari kureba hasi ndetse yambaye umupira w'umukara n'akabutura k'ubururu gaciyemo inrongo y'umweruru ndetse n'agapantaro korohereye karekare gasa n'umukara, ahagaze ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri hasa n'icyatsi.

Umugabo w'umuganga uri kwereka abandi amakuru yerekeranye n'ubuvuzi, bakaba bari kwandika ibyo bari kwitegereza uwo mugabo ari kubereka.

Umuntu wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yaziritse umukandara udafashe neza mu nda ye, inyuma ye hari umuganga uri kumufasha kugenda gihe atabishoboye, ari kuvurwa.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse mu ntoki ze afite icupa ry'amazi ariko kuyanywa, akaba yambaye n'udukoresho tumufasha kumva indirimbo mu matwi ye tw'umugozi.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi uri kunywa amazi ari mu icupa risa n'ubururu, inyuma ye hari ikintu cy'igihu gisa n'icyijimye.

Umukobwa wicaye yahuje amaguru, imbere ye hari mudasobwa iteretse ku gitambaro gisa n'ibara ry'ivu yicayeho ndetse iruhande rwa mudasobwa hari udukoresho tubiri bakoresha baterura, iruhande rwe gato hateretse icupa ry'amazi n'ibindi bikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umusore uri gukora siporo, akaba yafashe amaboko ye yayakojeje ku ivi, ukundi kuguru kw'inyuma yakurambuye ndetse yambaye isengeri y'umukara n'ipantaro y'umukara iciyemo, ari igice giciyemo umurongo w'umweru. Yambaye n'amasogisi y'umweru, n'inkweto zifite taro y'umweru, n'umupira w'ikigina.

Umusore uri mu myitozo ngororamubiri aho ku ruhande rwe hari uwundi mugabo wambaye umupira w'umukara uri kumutoza uko yakina uyu mukino asanzwe akina bari ahantu hari n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu wicaye, yashyize igikoresho kimuvura ku ivi agifatishije akaboko, yambaye ikabutura isa n'umukara.

Akagare gasa n'umukara ndetse kariho n'amabara y'ubururu. Aka kagare kifashishwa mu kugenza abantu bafite, ubumuga bwo kutabasha kugenda ndetse kakaborohereza mu buzima bwa buri munsi.

Umuganga uri kwita ku muntu amukoresha siporo, akaba yamuzamuye akaguru ke, aho uyu muntu uryamye yambaye ipantaro y'umukara ndetse umuganga yambaye imyenda yo kwa muganga isa n'ubururu ndetse afite n'ikarita mu ijosi rye.

Umuntu wafatishije ibiganza bye byombi ku kuguru ndetse ikiganza cy'ibumoso cyashyize umuti ku kagombambari, aho ari kwivura, yagize ikibazo ku kirenge cye ndetse n'ukuguru ahateye akagombambari.

Umugore wicaye, amaboko ye yayafatishije ku birenge bye, yambaye ipantaro n'umupira bisa nk'umutuku wijimye.

Umuntu uryamye ku gitanda akaba ari gukoreshwa imyitozo ngororamubiri n'abantu bamushinzwe aho umushinzwe yamufashe ku rutugu ndetse no ku mugongo na mugenzi we ari kureba uko bamukoresha imyitozo hirya hari undi nawe uri gukoreshwa imyitozo n'umukobwa umushinzwe.

Icupa ry'amazi rifite umufuniko usa n'ubururu, rifashwe n'ukuboko ndetse ikirere kirasa n'ubururu kirimo n'ibicu bisa n'umweru.

Abaganga baje mu kibuga aho abakinnyi bari gukinira, bakaba bari kwita ku mukinnyi upfukamye hasi ugize ikibazo ari gukina, aba baganga ni abagabo babiri baba bashinzwe kwita ku bagize ikibazo bari mu kibuga.

Umusore ufite agacupa k'amazi mu ntoki ze, akaba ari kunywa amazi ndetse yambaye isaha y'umukara ku kuboko kwe, ikaba yambaye umupira w'amaboko magufi ufite akabara k'ubururu bwijimye.

Igikoresho cyifashishwa mu buryo bwo gutanga imiti ku muntu wagize ikibazo ari muri siporo, aho acyambara mu kuguru kwavunitse bikamufasha koroherwa agakira mu buryo bwihuse.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye ikabutura n'umupira bisa n'ibara ry'umukara, akaboko k'ibumoso yagakojeje hasi, akaguru k'ibumoso kari inyuma, akandi kari imbere k'iburyo. Yakarambuye, aho ari kugorora amaguru n'amaboko.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, yafashe ikiganza cye agikoza mu gatuza, ndetse ikiganza cye kiriho amabara y'ubururu ndetse n'ibara ry'umutuku ukeye.

Ibikoresho bikoreshwa mu buryo bwo kuvura umuntu wagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri bimufasha kugira ngo yongere akire mu gihe yari yavunitse harimo agakoresho gasa n'umutuku, umukara ndetse n'ubururu n'akandi karambuye ari kagari k'umutuku.

Umusore n'umukobwa bari mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwabo hari ibikapu bibiri bisa n'ibara ry'umukara, ndetse umusore yicaye ku ntebe yambaye agasengeri n'agakabutura bisa n'umukara, umukobwa umuri iruhande arahagaze, yambaye agakabutura k'umukara kariho uturongo tw'umweru ndetse n'agasengeri gasa n'ivu.

Ibimera biteye ahantu mu bindi biti bitandukanye, iki kimera kikaba gifite amashami, ndetse amashami ariho utubabi tureture dusa n'icyatsi kibisi tukaba twifashishwa mu gukora imiti.

Imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo ndetse ikaba yitwa igikakarubamba, iteye ahantu hitaruye kandi iri mu byiciro bigiye bitandukanye, hirya no hino hari igihingwa cy'igikakarubamba kihateye.

Ibimera byinshi bifite amabara y'icyatsi ndetse bikaba bifite amababi magari, aho biteye ahantu mu ishyamba ririmo n'ibindi bimera bigiye bitandukanye bikaba byifashishwa mu gukora imiti ivura abarwayi

Umuntu uri gukora imiti gakondo yifashishije akuko kazwi nk'umuhini ndetse n'agasekuru gatoya bimufasha gutunganya neza imiti ya Kinyarwanda ya gakondo.

Igihingwa gisa n'icyatsi kibisi, gifite ibiti bine, gihinze ahantu mu butaka, kitaruye ibindi bihingwa bitandukanye, inyuma yacyo hari n'ibindi bihingwa bisa n'icyatsi kibisi.

Icyatsi kirekire gifite amababi maremare ndetse n'uturabo hejuru dufite ibara ry'umweru n'umuhondo, ndetse n'utundi tugisa n'icyatsi kibisi tutarapfundura twifashishwa mu gukora imiti ya Kinyarwanda, inyuma y'iki cyatsi hari ibindi byatsi byinshi by'inganzamarumbo.

Imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura abantu indwara ikorwa mu bimera iri mu ducupa dutandukanye aho dutatu muri two dusa n'ibara ry'umweru. Ndetse turiho n'ibirango byanditseho amazina adusobanura. Ndetse hari n'irindi cupa rinini risumba utwo ducupa dutatu harimo imiti isa n'ibara ry'umukara.

Imiti y'amoko atandukanye iri mu ducupa yagenewe kujyamo, hakaba harimo uducupa twiganjemo amabara y'umweru ariko twanditseho amagambo asobanura uko iyo miti ikoreshwa. Yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi. Hakaba hari n'andi macupa afite ibara ry'umuhondo kandi iyi miti ikaba ikozwe mu gikakarubamba.

Umuntu ufashe umuti ukoreshwa mu gusukura amenyo, akaba ari gushyirira mugenzi we ku gakoresho kamufasha gusukura amenyo kitwa uburoso, kugira ngo ajye gusukura amenyo ye.

Imiti y'amoko atandukanye ya gakondo, iteretse ahantu hitaruye, iri mu tuntu tw'udusorori ndetse hari n'utuntu tw'uduti tuvunaguye dutandukanye.

Imineke, inanasi n'indabo ndetse n'ibindi bikarito birimo imiti yifashishwa mu gutuma ubuzima bw'umuntu buba bwiza. Harimo imiti itanga amavitamini, imyunyu ndetse n'ituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ibihingwa bifite amababi asa n'icyatsi kibisi biteye ahantu hatuje, bifite amashami atandukanye.

Ibyatsi by'inganzamarumbo bikoreshwa mu miti gakondo, bifite amababi menshi asa n'ibara ry'icyatsi ndetse biregeranye cyane.

Ikimera gifite amashami ariho utubabi dusa n'icyatsi kibisi, ikaba ikoreshwa mu gukora imiti yavura abantu, imiti izwi nk'imiti ya gakondo cyangwa imiti ya kinyarwanda.

Umuti uri mu icupa ufite umufuniko w'umuhondo ndetse ukaba usa n'ikigina mo imbere ukaba uzengurukijwe n'agapapuro kanditseho uko uwo muti ukora, hakaba handitseho amagambo yo mu kinyarwanda y'ikimera bita umuravumba.

Umuntu ufashe udukoresho tumufasha gukora imiti ya gakondo, aho utwo duti dutatu duteretse mu kirahure ndetse akaba ari kumanuriramo ibyatsi byifashishwa mu gukora uwo muti wa gakondo.

Umukobwa wifashe mu mayunguyungu ari ku muti ugaragaza uko wafasha abantu mu bintu byo kongera imbaraga mu mubiri ndetse no gutuma umubiri uhagarara neza. Handitseho amagambo mu ibara ry'umukara mu rurimi rw'Icyongerezavuga ngo "Nutritional Clinsing Program C9".

Ibiti by'ibimera bifite amababi asa n'icyatsi kibisi, byifashishwa mu gukora imiti ikoreshwa mu buvuzi, ikavura abantu barwaye indwara zagenewe kuvurwa n'iyo miti yakozwe muri ibi bimera.

Umuti gakondo uri mu gacupa gasa n'ibara ry'umweru kariho ikirango cyanditseho amagambo yo mu rurimi rw'icyongereza avuga ngo forevabi poroporisi uyu muti ukaba ukorwa mu bimera bita ibikakarubamba.

Agasekuru gato gafite ibara ry'umukara, muriko hateretsemo umuhini wifashishwa mu gusekura, mugufi na wo usa n'umukara, bikaba biteretse mu byatsi bifite amababi, ndetse ibi byatsi bikoreshwa mu gukora imiti gakondo, bifite ibara risa n'icyatsi kibisi.

Ibiti bitandukanye bifite amashami ndetse n'amababi, amababi yabyo arasa n'ibara ry'icyatsi kibisi, munsi yabyo hakaba hari ibiti by'indabo bigufi, bitareshya n'ibyo biti nabyo bifite amara y'umuhondo n'icyatsi n'iroza.

Imiti itandukanye iri mu bikoresho ibikwamo byiganjemo bifite amabara y'icyatsi n'umuhondo ndetse hakaba harimo n'amabara make y'umweru, hakaba hirya hari n'ikibikwamo imiti cyandikishijeho amabara y'umutuku wijimye ndetse ikaba igizwe n'umweru n'ibara ry'umuhodo wijimye.

Agacupa kajyamo imiti gasa n'umweru, kanditseho amagambo y'ubururu ndetse n'amagambo y'icyatsi. Gapfundikijwe n'umufuniko usa n'ubururu, hashushanyijeho agashushanyo k'akanuma ndetse n'ak'umuntu.

Ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti gakondo kugira ngo bivure abantu barwaye indwara ibi byatsi bivura, bifite amababi ndetse atamera ku giti cy'inkoni izamuye y'icyo cyatsi giteye mu butaka.

Imiti gakondo igiye ipfunyitse mu bikoresho bitandukanye byiganjemo ibifite amabara asa n'umweru, ibisa n'umutuku wijimye ndetse n'agacupa gasa n'umuhondo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa bari gukora imiti ya kinyarwanda birimo ibicuma, hari amabasi hari inkono ndetse n'agasongabugari gateretseho iyo nkono.

Umugore uhagaze mu murima uteyemo ibihingwa by'ibyatsi, uhagaze wipfutse ahantu hose, n'abandi bagore batatu basutamye, bari gusarura ibi byatsi bikorwamo imiti ya Kinyarwanda.

Imiti gakondo iva muri ibi biti biteye hano by'icyatsi kibisi, ndetse ikoreshwa mu buvuzi bugiye butandukanye kubera ukuntu ikora neza.

Umugore wambaye ndetse yitangiye imyenda y'umweru, afite isakoshi mu kawa ke k'ibumoso, ak'iburyo kari gukora muri ibi bimera by'icyatsi bifite amababi atandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo ndetse bikavura abantu.

Tangawizi eshatu, imwe ikasemo uduce dutanu, izindi eshatu zo ziracyari nzima ntago bari bazikataho.

Imbuto zirimo amaronji akoze mu buryo bw'uruziga ndetse harimo ironji risatuyemo kabiri, hakaba hari n'indimu zifite ibara icyatsi kibisi, amaronji akaba afite ibara risa n'umuhondo ndetse n'asa na oranje.

Imiti ifashwe n'umuntu mu maboko yombi, hirya mu kaboko k'ibumoso harimo imiti ndetse mu kiburyo ke hakaba harimo igikarito kibikwamo iyo miti, yarambitse amaboko ye ku meza ari kuyerekana uburyo ikoreshwa.

Ibimera biteye ahantu muri pepiniyeri, bifite amababi asa n'icyatsi kibisi, ni byinshi bitandukanye, ahantu giheherereye nta we ubisagarira.

Indabo zifashishwa mu buryo bw'imiti yo mu buvuzi gakondo, ziteye ahantu mu byatsi byinshi cyane, harimo ibifite uturabo dusa n'umweru, umuhondo, oranje ndetse n'umutuku n'icyatsi kibisi.

Indabo nziza zirambitse ahantu ku butaka ariko mu by'ukuri ziratoshye zirasa neza, harimo uturabo dusa na move n'udufite ibibabi bisa n'icyatsi kibisi.

Imiti gakondo iva mu cyatsi giteye ahantu imbere y'urugo, gifite amababi meza ashishe asa n'icyatsi kibisi.

Ikimera gisa n'icyatsi kibisi, giteye ahantu mu bindi bimera bitandukanye, gifite amababi meza maremare atoshye agaragaza ko kiri gukura neza.

Umugabo uhagaze mu iduka ricuruza imiti, handitse amakuru kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo, imiti igomba kugenzurwa na Rwanda.

Igiti gito gifite amababi, atoshye y'icyatsi kibisi, giteye ahantu mu byatsi byinshi, hirya yacyo hari nibindi bimera bito bito by'icyatsi kibisi.

Agacupa gateretse ahantu karimo imiti ya gakondo, aka gacupa gafite ibara risa n'umweru, ndetse kanditseho n'amagambo afite ibara ry'icyatsi akazengurutse, gafite n'umufuniko ufite ibara risa n'umweru.

Imiti ikorwa mu bimera byiganjemo ibyatsi, hakaba hari ivamo ibinini, ivamo umuti w'ifu ndetse ikaba ituruka muri tuno tubabi tw'icyatsi duteretsemo agacupa ka shokora.

Agasekuru gato gasa n'umweru ndetse n'umuhini wako muto, byifashishwa bari gusekura amoko atandukanye y'ibimera kugira ngo bakoremo imiti gakondo ifasha mu kuvura abantu barwaye.

Imiti gakondo ikikijwe n'imbuto imbere n'inyuma ndetse hirya hari n'indabo. Inyuma hari urubuto rw'inanasi ndetse imbere hari imineke yometseho udupapuro.

Imiti gakondo iri mu bikoresho ibikwamo bicuritse iva mu bikarubamba. Byanditseho amagambo yo mu rurimi rw'amahanga rw'Icyongereza forever bright toothgel.